Umwana wambaye imyenda ya kaki. Arasutamye ubona ko ari kwikorera indobo nini, imbere ye hari umugabo wambaye imyenda y'ubururu, ufite ingata uri kumurebera.

Umwana wambaye agakanzu k'igitenge afite icupa ribonerana ririmo amazi rifite umupfundikizo w'umuhondo, arimo arakaraba intoki ze bityo akagira isuku yo mu ntoki.

Urujya n'uruza rw'abaturage ubabona ko bahuriye ahantu mu mbuga, bambaye imyenda iri mu mabara y'umutuku, umukara, umweru n'ayandi, bamwe baricaye abandi barahagaze, imbere yabo hari ihema ry'umweru ndetse n'inyubako isakaje amabati y'umutuku.

Abana bahagaze mu buryo bwuruziga bazamuye amaboko yabo, kugira ngo basukiho amazi bakarabe, bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku n'umweru, hagati yabo harimo indobo y'umutuku iri kujyamo amazi, inyuma yabo hagaze umugabo wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara hamwe na bote.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru, igitambaro mu mutwe, mu ntoki ze afite agakoresho gapima umuvuduko w'amaraso, imbere ye hicaye abagore batatu uri imbere yambaye hejuru amashati y'umutuku n'igitenge, bamwambitse ako gakoresho ku kuboko.

Abantu bane bahagaze imbere barimo baraganira, inyuma ya hari icyapa kinini kirimo ibara ry'icyatsi n'umweru cyanditsemo amagambo y'umweru naho hakuno hari icyapa cyegetse ku gikuta kiranga umuryango mpuzamahanga wita ku buzima bw'abana unicefu.

Umugore witeze igitambaro mu mutwe cy'umutuku, yambaye agapira k'ubururu akenyeye igitenge, yaje ku iriba kuvoma afite ijerekani y'umuhondo, hirya ye hari undi mugabo na we uri kuvoma.

Itsinda ry'abantu bahuriye hamwe mu nama, bambaye imyenda irimo ibara ry'ubururu, umweru, n'umukara. Hagati yabo harimo imeza ndende iteretseho ibikoresho bari kwifashisha. Uruger;o nk'amakaye, telefone, mudasobwa, amacupa y'amazi bari kunywa n'ibindi.

Abana benshi cyane bahuriye ahantu mbona ko hagenewe gukarabirwa intoki, abo bana bambaye imyenda iri mu mabara y'umutuku ubururu n'umweru, imbere yabo hari itiyo nini cyane irimo iravamo amazi menshi ndetse n'ibase y'umutuku.

Umuganga wita ku bana wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'ikanzu y'igitenge, yambaye kandi amaherena, arimo araha umwana umuti yamufashe ku matama, imbereye hari undi mugore wicaye uri guseka wambaye ikanzu y'igitenge.

Umugore wikoreye injerekani y'umuhondo, ifite umupfundikizo w'umutuku, ubona ko avuye kuvoma amazi; kugira ngo abone ayo akoresha mu mirimoo itandukanye yo mu rugo. Iruhande rwe ubona ko hari abandi bana yari yazanye na bo kuvoma.

Abantu barimo abagore n'abagabo, bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, n'ubururu. Ubona ko ari abayobozi, baje mu nama. Hagati yabo hari ameza nini, iteretse ibikoresho byabo, nk'amatelefoni, amakayi, uducupa tw'amazi n'ibindi.

Umugore usutamye yambaye agapira ka pink n'ijipo y'umukara, imbere ye hari injerekani y'umuhondo iteretse mu mabasi abiri agerekeranyije. Iyo njerekani iri kujyamo amazi avuye mu iriba, iruhande rw'uwo mugore hari inzu zubakishije amabati n'imyenda imanitse ku mugozi.

Abana bambaye imyenda y'shuri yiganjemo ibara rya kaki, begereye ubukarabiro buriho robine nyinshi, barimo barakaraba intoki zabo bityo kugira ngo basukure intoki zabo. Hirya yabo hari inyubako bigiramo zubakishije amatafari.

Urujya n'uruza rw'abantu bicaye ku dusima. Harimo abana, ababyeyi bakuze ndetse n'abantu bakiri batoya. Bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku, ubururu n'umweru. Iruhande rwabo, hari inzu nini iteye irange ry'umukara ku inkingi zayo, ishakaje amabati y'umutuku.

Ikirango cyarangaga ikigo cy'igihugu cy'u Rwanda cyari gishinzwe gutanga amazi n'umuriro Wasake amagambo yacyo ari mu ibara ry'ubururu ndetse n'icyatsi, ahagana mu ruziga harimo urugero nk'imisozi, izuba n'igitonyanga cy'amazi.

Umwana uri gukaraba ibiganza bye byombi, ari gutega amazi avuye mu ndobo iteretse ku meza iri iruhande rwe, iyo ndobo irasa ubururu kandi iteretseho n'isabune.

Abantu bateraniye hamwe bambaye imyenda irimo ibara ry'mweru, umutuku, umukara, ubururu n'icyatsi barimo barifotoza bahagaze inyuma yabo hari inzu iteye irangi ry'ubururu ifite icyapa hejuru cy'umukara.

Umwana usutamye, yambaye agakanzu k'igitenge karimo amabara y'ubururu n'umutuku, ari gukora ibiganza bye byombi imbere ku iriba, hirya ye hari amajerekani yazanye kuvoma ari mu ibara ry'umuhondo ndetse n'ubururu.

Umugabo wambaye imyenda isa wifashe mu mayunguyungu. Imbere ye hari umugore wambaye ikanzu y'igitenge, uri kwandika ubona ko ari kumuha serivisi. Bari ahantu hari imeza nyinshi ziteyeho ibikoresho, birimo mudasobwa, ibigabanya amajwi n'ibiyongera n'ibindi.

Abagore bicaye ku murongo, bose batururiye abana babo, bakiri batoya. Ni byiza ko, abana bakiri bato bakingizwa, kugira ngo babarinde indwara zishobora kubafata, cyane ko imibiri yabo, iba itaragira ubudahangarwa, buhagije.

Itsinda ry'abantu benshi biganjemo urubyiruko, bambaye imyenda irimo ibara ry'umweru, umutuku. Bafite ibipapuro mu ntoki zabo, bazamuye hejuru. Inyuma yabo hari icyapa kinini, kirimo iba ry'umweru. Kimanitse ku nzu yubakishije amatafari ahiye, iri inyuma y'abo bana.

Umuzungu wambaye agapira gafite ibara rya beje akaboko k'ibumoso yagakoresheje mu gatuza ke. Akaboko ke k'iburyo gafashe indangururamajwi y'umukara. Inyuma ye hari icyapa kinini kiranga umuryango mpuzamahanga wita ku buzima, naho hino naho hari ikindi cyapa kiriho uturango turi mu mabara atandukanye.

Umugore uhetse umwana. Wambaye agapira k'icyatsi, ukenyeye igitenge. Arimo aroza umupfundikizo w'indobo, usa umutuku. Imbere ye hari indobo y'umuhondo n'iy'umutuku, ndetse n'iriba ry'icyuma.

Itsinda ry'abagore ubona ko bishimye, bamwe bambaye imyenda iri mu mabara y'ubururu, abandi bambaye ibitenge biri mu mabara y'umuhondo, hari n'abambaye imyenda y'umutuku.

Umugore uteruye umwana wambaye igitenge, iruhande rwe hari umugabo wambaye itaburiya y'ubururu, hagati yabo harimo umunzani wifashishwa mu gupima uko ibiro by'umwana bingana. Iruhande rwabo hari abandi bagore bicaye bataruye abana babo baje gupimisha.

Itsinda ry'abantu harimo abagore n'abagabo bicaye hamwe, bisa nk'aho bitabiriye inama cyangwa se umuhango runaka, imbere yabo hahagaze umugabo ufite indangururamajwi, uri kuvuga, yambaye ikoti ry'ubururu, imbere ye hari agatuti.

Umuganga wita ku bana wambaye itaburiya y'umweru, aricaye ku ntebe y'umukara, imbere ye hari umubyeyi uteruye umwana we, bigaragara ko yamuzanye kwa muganga kugira ngo ahabwe ubuvuzi mu myaka ye akiri muto kugira ngo bizatume agira ubuzima bwiza mu minsi iri imbere.

Umugore wambaye igitenge cy'mabara y'umutuku ateruye indobo amaze kudahiramo amazi yegereye kandi iriba ry'icyuma, inyuma y'iryo riba hari abagore babiri bafashe icyuma cyiryo riba bari guhaga amazi.

Akana kakiri gatoya kari hagati y'abantu ubona ko bari kukitaho bagatera urukingo kugira ngo bakarinde indwara zishobora kugafata zisanzwe zifata abana bakiri batoya nk'imbasa, agakwega ndetse n'izindi.

Abantu babiri b'abagabo bahagararanye ubona ko bari kuganira. Umwe yambaye agashati k'umweru ahetse agakapu mu mugongo. Undi yambaye agapira k'ubururu ndetse afite n'akagozi mu ijosi gasa umutuku.

Gutanga amazi meza ku baturage ni ikintu cy'ingenzi kuko kibafasha mu iterambere ryabo ndetse no kugira n'ubuzima bwiza, umwana wambaye agapira k'umweru n'ipantaro y'umukara wazanye amajerekani menshi ku ivomero kuyavomera.

Abantu ubona ko ari abayobozi bicaye hamwe, harimo abazungu ndetse n'abirabura, bambaye imyenda yo mu mabara y'umweru n'umukara, bicaye bazengurutse imeza isa umukara iteretseho ibikoresho byabo birimo mudasobwa, isakoshi y’uducupa twa amazi yo kunywa, n’amakaye.

Abantu bahuriye hamwe ubona ko bitabiriye inama cyangwa umuhango runaka, bambaye amakote ari mu ibara ry'umukara n'umweru, imbere yabo hari abantu bicaye ku murongo ubona ko aribo bari gutanga ikiganiro.

Abana babiri basutamye harimo uwambaye agapira k'umutuku n'undi wambaye ishati ndetse n'ipantaro bisa by'ibitenge, bose bari gukaraba ibiganza byabo byombi ku mazi ariko kuva muri robine iruhande rwabo.

Umwana wasetse, wishimiye ko mugenzi we ari kumusukira amazi mu gikombe kugira ngo akarabe intoki, bombi bambaye imipira y'imituku, hejuru hari ikirango cy'umuryango mpuzamahanga wita ku bana, Unicefu.

Ikirango cyari gisanzwe kiranga, ikigo cy'u Rwanda gishinzwe gutanga no gukwirakwiza umuriro ndetse n'amazi, WASAC. Kiri mu ibara ry'ubururu, ndetse icyatsi cyijimye, mu kirango cyacyo, harimo imisozi, amazi, n'izuba.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'akamuranga mu ijosi, arimo aratera umwana wambaye ishati y'ubururu, urukingo ku kaboko ke. Bigaragare ko baba basuye abana ku mashuri bakabatera inkingo muri rusange, kugira ngo babarinde indwara zitandukanye harimo n'ibyorezo.

Itsinda ry'abantu batandukanye, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye, arimo oranje, ubururu, umukara ndetse n'umweru. Bicaye mu ntebe, imbere yabo hari imeza iriho ibitambaro birimo ibara ry'ubururu ndetse n'umweru kandi iyo meza iteretseho uducupa tw'amazi, amakaye n'amashakoshi. Hagati y'izo meza harimo umugore wambaye ikoti ry'umukara n'ikanzu y'umweru.

Umwana wambaye imyenda y'ishuri irimo ibara ry'umuhondo, imbere ye hari kandagira ukarabe y'icyuma ariko iteretseho indobo irimo amazi, ari gukaraba ajya mu ikarayi iteretse kuri iyo kandagira ukarabe, hirya ye hari ibiti ndetse n'abandi bana bambaye imyenda isa nk'iye.

Umwana wunamye wambaye ishati y'icyatsi n'ipantaro y'umukara, ari gukaraba ibiganza bye byombi ku iriba risa ubururu, iruhande rwe kandi hateretse indobo y'ubururu.

Icyuzi kinini kiri mu buryo bw'uruziga kiriho hejuru ibiraro bihurira hagati, urabona ko ari icyuzi kifashishwa mu gutanga umuriro w'amashanyarazi ku baturage.

Itsinda ry'abantu bifotoje bahagaze, bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu, umutuku, cyatsi, n'ayandi. Inyuma ya bo hari inzu iteye irangi ry'icyatsi muri koridoro ndetse n'ubururu inyuma ku gikuta.

Itsinda ry'abaganga, bambaye amataburiya y'imyeru, amapantaro y'imikara, hakabamo n'abagore bambaye imyenda y'imituku. Bari mu cyumba giteye irange ry'umweru, gifite inzugi zisa nka shokora, bazamuye ibiganza byabo.

Icyumba bigaragara ko aricyo kwa muganga, giteye irangi ry'umweru hose, gifite uturongo duciye ku bikuta dusa umutuku n'ubururu, icyo cyumba kirimo ibikoresho nk'intebe ziryamwaho n'umurwayi zisa ubururu, imashini ya buri ntebe igaragaza uko ubuzima bw'uharwariye buhagaze n'ibindi.

Umugore wambaye ikanzu irimo amabara y'umuhondo, umweru n'umukara. Yambaye kandi amaherena n'agapfukamunwa. Ateruye akana k'agahinja mu bishura byako, bisa umweru n'ubururu.

Umugore wambaye ishati ukenyeye igitenge kirimo amabara y'ubururu, umweru n'umuhondo. Mu kuboko kwe kw'iburyo ateruyemo indobo y'umuhondo, naho ukuboko kwe kwi'bumoso gufashe indobo yikoreye iri mu ibara ry'umutuku. Ari mu nzira agenda. Imbere ye hari ibishyamba ndetse n'ibihuru.

Abana bahuriye ku iriba bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku icyatsi ubururu umukara ndetse na kaki, hagati yabo hari iriba ry'icyuma hateretseho injerekani y'umuhondo bari kuvomeramo.

Ibiganza byambaye uturindantoki tw'umweru bifashe urushinge, byateye mu kaboko k'umuntu uhinnye umwenda yari yambaye, bigaragare ko uyu muntu yaje kwiteza urukingo rw'indwara runaka.

Abantu barimo abagabo batatu n'abagore babiri, bambaye imyenda irimo ibara ry'umweru, ubururu n'umutuku. Bicaye ku ntebe z'imikara, hagati yabo harimo ameza manini ateretseho ibikoresho bari kwifashisha mu nama harimo amatelefoni, amakayi ndetse n'uducupa tw'amazi yo kunywa.

Uruganda rwifashisha ikoranabuhanga bityo kugira ngo byoroshye akazi ka buri munsi, harimo imashini ziri mu mabara y'ubururu, icyatsi ndetse n'umuhondo, hari umuntu wambaye imyenda y'umukara, ingofero y'umweru uri kubigenzura.

Abantu bambaye imipira y'ubururu yanditse amagambo y'umweru bambaye kandi ingofero z'umweru, bamanitse ibiganza byabo by'ukuboko kw'iburyo hejuru, inyuma yabo hari icyapa kiri mu ibara ry'umweru.

Amacupa akunze kwitwa bomboni asa ubururu, akaba yifashishwa mu gutanga cyangwa se kongerera umwuka abarwayi baba bari kwa muganga batawufite, cyangwa se bahumeka bigoranye.

Abagabo batatu begeranye babiri bari ku mpande bambaye amashi y'ubururu uri hagati yambaye itaburiya y'umweru bose bambaye udupfukamunwa ndetse n'udushashi mu mutwe, abari ku mpande bafashe udukarito.

Umugabo wambaye ishati irimo uturongo tw'umweru n'umukara, ndetse n'ipantaro ya kaki. Imbere ye hari umubyeyi witandiye igitambaro, uteruye akana kambaye ikanzu y'ubururu, ako kana bakaba bari kugatera urushinge ku kaboko, bagakingira indwara zitandukanye.

Umugore uhagaze akenyeye igitebo mu mutwe ndetse yambaye n'ikanzu y'igitenge, ateruye umwana mu kuboko kwe kw'iburyo kandi afite impapuro mu ntoki ze, hirya ye mu nzu harimo abandi bagore benshi bicaye bateruye abana.

Abantu babiri bambaye amashashi y'ubururu, ubona ko barimo barapima icyorezo cya Corona virusi, umusaza ubicaye imbere wasamye, wambaye umupira ndetse n'ipantaro by'umukara, iruhande rwabo hari ihema ry'umweru.

Umugore uhagaze ukenyeye igitenge mutwe kandi wambaye ikanzu ateruye umwana mu kuboko kwe kw'iburyo afite mu ntoki ze zombi igipapuro cya kaki iruhande rwe mu nzu harimo hicayemo abagore benshi bateruye abana babo.

Itsinda ry'abantu bateraniye hamwe harimo ababyeyi, abana ndetse n'abagabo, hagati yabo harimo iriba rinini rishyashya, imbere ye hari umwana wambaye agapira k'umutuku wafashe ku majerekani uri kuvoma, na ho imyuma hari umubye wambaye agapira k'icyatsi n'ijimbo y'umweru uri guhaga amazi.

Ikimenyetso kirimo umubumbe w'isi ukikijwe n'ibishushanyo bigizwe n'amabara abiri, harimo ubururu n'icyatsi, hepfo hari amagambo yanditseho ari mu ibara ry'ubururu ariko hagati yayo harimo umurongo w'icyatsi.

Umwana wambaye agakanzu k'igitenge kari mu mabara y'umutuku arunamye ari gukaraba ibiganza bye byombi ku iriba, imbere ye hari ibase y'umukara iri kujyamo amazi ari kumara gukaraba.

Urujya n'uruza rw'abaturage bahuriye ku ivomero rusange bari kuvoma, higanjemo abana ndetse n'abantu bakuru bakeya, bafite ibivomesho biri mu mabara y'umuhondo, umweru, umutuku n'ubururu.

Itsinda ry'abantu mbona ko bameze nk'abayobozi biyubashye, bambaye imyenda iri mu ibara ry'umukara ryiganje harimo n'ayandi y'umweru n'umutuku, inyuma yabo hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru n'ubururu.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru, iruhande rwe hari akana karyamye ku gitanda gatoya arimo aragafasha agaha ubuvuzi bukenewe. Iruhande rw'ako kana kandi hari umubyeyi uhicaye wambaye agatambaro kajya gusa icyatsi. Ndetse hari n'undi mugore uri gufasha uwo mugabo.

Agatanda k'ibiti gaterekwaho ibyombo birimo ibikombe, amasorori, amasahani n'ibindi nyuma y'uko bimaze kozwa, bityo izuba rikabivaho kugira ngo bikamukemo amazi.

Umugore wazanye umwana we kumukingiza bityo kugira ngo amurinde indwara zishobora kumufata zibasira abana bakiri batoya. Imbere ye hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru, uri guha uwo mwana umuti.

Umugabo ubona ko yitabiriye umuhango wo kugaburira abana indyo yuzuye kugira ngo bakure neza, yambaye umupira wa oranje, amadarubindi, afite isahane mu kuboko kwe arimo aragaburira akana kari imbere ye gateruwe n'umugore wambaye umupira w'umweru.

Itsinda ry'abantu batanu. Biganjemo abakobwa. Bambaye hejuru imipira y'ubururu ndetse inyuma yabo hari ibyapa biri mu mabara y'bururu ndetse n'umutuku. Ubona ko bishimye, harimo n'abazamuye ibiganza hejuru.

Umwana ufite ibyishimo rwose ubona ko byamurenze, yambaye agakanzu kari mu ibara ry'ubururu ndetse n'umutuku, arasutamye arimo arakaraba intoki ze ku mugezi, iruhande rwe hari amajerekani ari mu ibara ry'umuhondo n'ubururu.

Itsinda ry'abantu bifotoje. Harimo abambaye imyenda y'ubururu, umweru, umukara n'umutuku. Higanjemo abagore. Ndetse harimo n'abagabo. Ubona ko bari mu nzu nziza cyane isa neza irimo n'ibendera rya Repubulika y'u Rwanda.

Abantu bahurijwe hamwe mu nama yiga kubijyanye n'ubuzima, bambaye imyenda irimo amabara y'umukara, umutuku n'ayandi, imbere yabo hicaye abantu batatu bafite ameza imbere yabo ziteretseho ibikoresho byabo na mudasobwa, amazi yo kunywa n'ibindi.

Abantu bicaye bari kuganira; harimo abagabo babiri n'abagore babiri; bambaye imyenda irimo amabara y'umukara n'ubururu; harimo abafite indangurumajwi; imbere yabo kandi hateretse imeza n'igitambaro cy'umukara; ayo meza kandi ateretseho ibikoresho nka mudasobwa n'ibindi

Umwana wambaye agapira k'umutuku. Ukuboko kwe kw'iburyo gufashe igikombe cy'icyuma ari kuvoma amazi. Yasetse ubona ko yishimye; imbere ye hari iriba ririho robine ebyiri ziri kuvamo amazi.

Itsinda ry'abantu biganjemo abagore n'abagabo, bambaye amataburiya y'ubururu, imbere yabo hari umuntu wicaye wambaye ishati y'umweru. Bari gukoma amashyi kandi barahagaze. Inyuma yabo, hari ihema ry'umweru.

Abana bambaye imyenda y'ishuri bahetse ibikapu, baje kunywa amazi, imbere yabo hari robine imwe iri kuvamo amazi, barimo baranywesha ibiganza byabo, bitewe nuko nta kintu kiri aho hafi bafite bakifashisha mu kuyanywa.

Abana baje kuvoma bambaye imyenda ya kake y'ishuri mo imbere bambaye udupira turimo amabara y'umutuku n'umukara, bamwe bari gukaraba intoki bunamye abandi bahagaze, bazanye kandi utubido ndetse n'indobo y'umuhondo kuvoma ku iriba rinini, hirya y'iriba hateye ibiti by'imikindo.

Itsinda ry'abanyeshuri bambaye imyenda y'ishuri, hejuru irasa ubururu, ahagana hasi ku bakobwa harimo akantu kajya gusa nk'umweru. Bose bafite ibikombe bari kunywa amazi. Imbere yabo hari ikigega cy'umukara bari kuvomaho.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa ndetse na kasike mu maso ye. Afite mu kuboko kwe kw'iburyo ikaye, yakoze ku rutugu rw'umusaza umuri imbere wambaye agagofero ku mutwe ndetse n'ikanzu y'igitenge, iri mu mabara y'umuhondo n'umutuku.

Itsinda ry'abantu biganjemo abagabo bambaye imyenda irimo amabara y'umukara, umweru, bicaye bazengurutse, hagati yabo hari imeza iriho igitambaro cy'icyatsi, iyo meza ikaba iteretseho ibikombe birimo ibikombe birimo ji bari kunywa, amakaye n'ibindi.

Umwana wambaye imyenda y'ishuri yiganjemo ibara ry'umutuku ndetse n'umweru mukeya, ari gukaraba ibiganza bye byombi, imbere ye hari kandagira ukarabe y'icyuma gisa umutuku iteretseho akabase gafite ibara rya orange.

Umwana wambaye agapira gaciyemo uturongo tw'ubururu ndetse n'umukara, yambaye ipantaro y'icyatsi yasetse arimo arakaraba mu maso, imbere ye hari iriba ndetse na robine iri kumena amazi.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agakoresho, yambaye mu matwi ye kifashishwa mu kumva uko umutima utera, imbere ye hari umwana arimo arapima, wambaye agapira k'ubururu karimo amabara y'umutuku n'umweru.

Umugore wambaye ijire y'icyatsi, agapfukamunwa, ndetse n'uturindantoki tw'ubururu. Mu kuboko kwe kw'iburyo, afitemo akuma gapima umuriro. Imbere ye hahagaze umugore wambaye ikanzu y'ubururu irimo amabara y'umweru, ateruye ikiringiti.

Umugabo uri imbere uhagaze ku gatuti gafite ibara ry'umweru n'ubururu, yambaye ikoti ry'umukara n'amadarubindi, iruhande rwe hari intebe ebyiri zisa kaki zegeranye n'utumeza duteretseho icupa ry'amazi, utwo tumeza kandi duteretseho indangururamajwi.

Umwana wambaye ikanzu y'ubururu, agashati k'umweru mo imbere, arunamye yateze ibiganza bye byombi kuri robine y'amazi, imbere ye hari indobo nini isa icyatsi, iriho ikirangantego cy'umuryango mpuzamahanga wita kuzima bw'abana yunise, fu ni indobo ishyirwamo imyanda.

Abantu batandukanye, harimo uwambaye itaburiya y'umweru, uwambaye ikote n'abandi. Hejuru yabo, hari amagambo manini ari mu ibara ry'umweru ndetse n'andi matoya ari hejuru yayo ari mu kirango kiri mu ibara ry'ubururu. Hirya yayo, hari andi magambo y'umuhondo.

Umugabo wambaye umupira wa orange n'ipantaro y'umukara imbere ye hari umugore upfukamye wunamye wambaye igitambaro mu mutwe cy'umweru agapira k'umukara n'igitenge, bahagararanye kandi n'undi muntu ufite indangururamajwi wambaye imyenda yacitse bazengurutswe n'urujya n'uruza rw'abantu bari kureba imikino bari gukina.

Abantu bahuriye hamwe baje mu nama, imbere yabo hari abagabo babiri bambaye amakoti y'imikara bicaye ku ntebe z'imikara, imbere yabo hari ameza manini asa nka shokora ateretseho ibikoresho bari kwifashisha urugero nka mudasobwa, indangururamajwi, amazi yo kunywa, telefoni zabo n'ibindi.

Abantu benshi babona ko bambaye imyenda iri mu mabara y'umweru wiganje. Harimo abasutamye n'abandi bahagaze inyuma yaho kandi ku gikuta hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru kiriho ibirangantego nk'icya RBC.

Itsinda ry'abantu bicaye mu buryo bw'uruziga. Hagati yabo harimo imeza iriho igitambaro cy'umweru, iteretseho ibikoresho nka mudasobwa, uducupa tw'amazi, terefone, ibitabo n'ibindi. Abo bantu bicaye gutyo bambaye amakoti y'umukara umweru, beje ndetse n'ubururu.

Umugabo wambaye umupira wa oranje ari guha amata yifashishije inkongoro, umwana uri imbere ye uteruwe n'umubyeyi wambaye umupira w'umweru, hirya yabo hari kandi abandi babyeyi bambaye nabo imipira y'imweru bateruye abana bari guhabwa amata.

Umwana wambaye agapira k'umweru, ufite udusaro tw'amabara, arimo icyatsi, umuhondo n'umutuku mu mutwe we, ateruwe n'umubyeyi wambaye ikanzu, irimo amabara y'umutuku. Uwo mwana bari kumutera urushinge ku kuboko kwe.

Umuntu wambaye ikote, arimo arakaraba ikiganza cye, imbere ye hari robine y'icyuma ubona idasa neza, iri kuvamo amazi ari gukaraba, ndetse hasi hari amazi y'ikidendezi mabi arimo n'amabuye.

Abantu bahuriye hamwe higanjemo abana, harimo n'abantu bakuru, harimo umwana witeye igitenge ku rutugu ufite injererekekani ari kuvomera ndetse n'abandi bantu bari inyuma ye bari kureba icyo gikorwa ari gukora.

Umugore ufashe ibido uri kuvoma, aho imbere hari n'andi majerekani ubona ko ateretse ku murongo ategereje kuvomwa. iruhande rwe hari umwana ndetse n'undi mukecuru bose ubona ko baje kureba amazi kuri iryo riba.

Itsinda ry'abantu bari kumwe, harimo abaganga, harimo uwambaye itaburiya y'ubururu, n'uwambambaye itaburiya y'umweru, kandi bambaye n'uturindantoki tw'umweruru, barimo barafata abantu amaraso, ku ntoki zabo bakoresheje inshinge.

Aantu bambaye amashashi, harimo ay'umuhondo ndetse n'ibitambaro by'umweru, imbere yabo hari ibintu bimeze nka supanete by'umutuku, naho hirya yabo, hari inzu yubakishije amatafari.

Umugore ubona ko wishimye, yambaye amadarubindi, ndetse n'ikanzu y'igitenge, yiteye kandi igishura ku rutugu rwe kiri mu mabara y'umuhondo n'umukara, inyuma ye hari abana bamukikije ubona ko bishimye.

Umwana wambaye agapira k'umutuku n'ikabutura y'ubururu, arasetse afite igikombe cy'icyuma mu kuboko kwe ku iburyo, arimo arakivomeramo amazi yo kunywa. Imbere ye hari ivomero rinini rifite robine ebyiri, zose ziri kuvamo amazi.

Umugore wambaye agapira ka oranje ndetse ukenye igitenge, mu kuboko kwe kw'ibumoso ateruyemo umwana, yegereye iriba naho imbere y'iryo riba hari indobo y'umukara arimo aravomeramo.

Umugore wambaye agapira k'umuhondo, ukenyeye igitenge wunamye mu mugezi, afite ijerekani imbere ye y'umuhondo yadubitse mu mazi yaje kuvoma, naho inyuma ye hari umugabo wambaye na we agapira k'umuhondo n'ikabutura y'umukara uri koza igare hafi aho.

Abana bahuriye hamwe ku mugezi baje kuvoma bitwaje ibikoresho byabo bitandukanye bavomeramo birimo amakarayi, indobo n'amajerekani. Bambaye kandi imyenda irimo amabara y'ubururu, umuhondo ndetse na kaki.

Umugore usutamye yambaye itaburiya y'umweru, ubona ko ari umuganga, arimo aratera urushinge umwana ku kuboko, amuha urukingo rw'indwara zitandukanye zijya zibasira abana nk'imbasa, agakwega n'izindi.

Abana bahurijwe hamwe, ahantu mu cyumba giteye irangi ry'umuhondo, bicaye mu buryo bw'uruziga, bambaye udupira tw'ubururu hejuru, kandi bari kumwe n'abandi bantu bakuru bari kumwe nabo bari kubafasha mu gukina imikino itandukanye.

Abana bakiri bato bambaye imyenda y'ishuri yiganjemo ibara ry'ubururu. Bari mu ihema ry'umweru, imbere yabo hahagaze abantu bakuru bifashe ku biganza byabo imbere, bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu, umukara ndetse n'ayandi.

Abantu bicaye mu ntebe z'imikara bahuriye hamwe mu nama, mbere yabo hari abandi bicaye barimo gutanga ikiganiro kubyerekeye ubuzima bwo mu mutwe, bambaye imyenda irimo amabara yumukara n'mweru n'ayandi, hagati yabo imbere hari ameza n'igitambaro cy'umweru.

Umwana wambaye ishati y'umweru na karuvati y'ubururu ndetse wicaye ku ntebe y'umuhondo n'imeza ye iri imbere irasa umuhondo. Afite bisikwi mu ntoki ze arimo arazirya, yasetse umusatsi ye irasetse.

Umugore wasetse wishimye ufite umusatsi w'umukara, yambaye ijakete y'umutuku ndetse n'agapira k'imbere gasa umukara, inyuma ye hari inzu iteye irange ry'umuhondo ndetse n'urugi.

Abantu bicaye, abandi bahagaze inyuma yabo bifotoza. Bambaye imyenda irimo amabara y'umuhondo, umukara, umutuku, ubururu n'umweru, inyuma yabo, hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru n'umutuku.

Abantu bicaye mu ntebe z'imituku. Bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara, umweru ndetse hari n'abambaye imyenda ifite amabara y'umutuku. Bamwe barahagaze. Inyuma yabo, hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'umweru.

Abantu bahagaze bifotoje bambaye imyenda yiganjemo amabara y'umweru, umukara n'ubururu. Bamwe bafite ibyapa mu ntoki biri mu ibara rya oranje ndetse n'icyatsi n'umweru abandi nta kintu bafite.

Abantu bateraniye hamwe bifotoje, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye arimo umweru, umukara, ubururu, umuhondo ndetse n'ayandi. Imbere yabo hari ameza manini abiri afite ibara risa nk'irya shokora, bari munzu kandi iteye irangi ry'umuhondo ku bikuta.

Umugabo wambaye imyenda isa nabi, arasutamye akoze hasi kandi yambaye ibirenge, bigaragare ko afite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, ni byiza ko rero abantu nk'aba bitabwaho kugira ngo na bo bagire ubuzima bwiza.

Abantu bicaye mu ntebe z'asheze biganjemo ababyeyi bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku, orange, n'ubururu; imbere yabo hari urumu umugabo wambaye agapira k'umutuku urimo urabasobanurira akoresheje ikaramu, ari kwandika ku gikoresho cyagenewe kwandikwaho.

Itsinda ryabantu bicaye mu ntebe, bambaye imyenda ifite amabara atandukanye arimo umukara ubururu umuhondo oranje n'ayandi, imbere yabo hari ameza arambuyeho igitambaro gifite ibara ry'umweru n'ubururu, ayo meza ateretseho ibikoresho nk'amashakoshi yabo uducupa tw'amazi na terefone.

Umugore wambaye agapira k'umweru, afite mu kuboko kwe kw'iburyo, akuma kifashishwa mu gupima umuriro. Naho mu kuboko kwe kw'ibumoso afitemo telefone. Iruhande rwe hari undi mugore wambaye agatambaro mu mutwe k'ubururu, umupira wa oranje, ateruye umwana.

Ikarita iranga umuntu ukora umurimo runaka. Ikaba iriho umugore w'inzobe wambaye umwenda ndetse n'agapira k'umweru mo imbere ubona wisukishije.

Abantu biganjemo ababyeyi bambaye amakanzu y'ibitenge, arimo amabara y'umutuku, ubururu n'umukara, barishimye barimo barakoma amashyi. Hagati yabo harimo ameza ariho igitambaro cy'umweru, kandi ateretseho ibikoresho birimo amacupa y'amazi ndetse amakaye n'ibindi.

Abantu bifotoje bahagaze, bamwe imbere abandi inyuma, bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara, umweru n'umutuku, inyuma yabo hari icyapa kinini kiriho ibirango bitandukanye, nk'ikirango kiranga repubulika y'u Rwanda n'ibindi.

Itsinda rigari ry'abantu bahagaze abandi basutamye, bambaye imyenda irimo ibara ry'umutuku, umweru, umukara ndetse n'ayandi atandukanye, imbere yabo hari imeza iteretseho agacupa k'amazi, naho inzu barimo iteye irange ry'umuhondo kandi irimo amarido ndetse n'inzugi.

Umuntu wambaye imyenda y'imituku, wifashe ku itama ubona ko afite agahinda cyangwa ikindi kibazo, imbere ye hari undi urimo aramuhumuriza, amubwira ko ibintu byose bishoboka.

Abantu batanu bicaye ku ntebe z'imbaho, harimo abagore bane bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku, umukara n'ayandi. Imbere yabo hari umugabo wambaye ishati ijya gusa ubururu n'ipantaro ya kake wikoze ku kaguru ke.

Umubyeyi ubona ko yishimiye kuba ateruye umwana, bose basetse, umubyeyi yambaye agapira k'umweru naho umwana yambaye agapira karimo amabara y'umweru n'umutuku, inyuma yaho hari igikuta cyubakishije amatafari ahiye.

Umuntu wambaye imyenda irimo amabara ya kake n'umukara wifashe mu biganza byombi ahagaze mu busitani inyuma ye hari inzu iteye irangi rya pinke ahagana hejuru handitseho amagambo arimo ibara ry'ubururu.

Umugabo wicaye, yubitse umutwe, yambaye ikote ry'ubururu, ahetse igikapu, yambaye isaha ku kuboko ndetse n'ipantaro ya kake. Iruhande rwe hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara ndetse n'iry'icyatsi.

Abantu bifotoje bahagaze harimo abemye abandi bifashe mu biganza bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu, umweru n'umukara, hirya yabo hari icyapa kirimo ibara ry'umweru kiriho amafoto y'abantu.

Umugore wambaye ishati y'ubururu, ufite indangururamajwi, bigaragara ko hari ijambo ari gutanga. Iruhande rwarwe hari undi mugabo wambaye agapfukamunwa, ikoti ry'umukara. Imbere yabo hari ameza manini ateretseho uducupa tw'amazi yo kunywa, telefoni n'ibindi.

Umugore wambaye agapira k'umweru yasetse ateruye akana k'agahinja, nako kambaye agapira karimo ibara ry'umweru n'umutuku nako kasetse, inyuma ya hari inyubako yubakishijwe amatafari ahiye, ifite idirishya rinini risa umuhondo.

Itsinda ry'abantu bahuriye hamwe, biganjemo urubyiruko, bambaye imipira yo hejuru isa ubururu. Na ho hasi bambaye amabara arimo umukara, ubururu, umutuku ndetse na kake. Hagati yabo harimo umugabo wambaye ishati y'umweru, ipantaro y'umukara ndetse na karuvati.

Abantu batatu bicaye hamwe, bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, umukara, ndetse n'icyatsi. Bambaye udupfukamunwa, bateruye amakaye, amakaramu, n'ibindi, hirya yabo hari umuhanda w'igitaka.

Umusaza urimo urabyina imbyino gakondo, yambaye ishati y'umweru irimo uturongo tw'umukara, ariko na none yiteye umwitero ku rutugu rwe usa umuhondo. Mu kuboko kwe kw'iburyo afitemo icumu riri mu ibara rijya gusa kake n'umukara.

Umukobwa wicaye ubona ko imbere ye hari undi mugore uri kumuganiriza. Uwo mwana w'umukobwa yambaye ikanzu iri mu ibara ry'ubururu n'umweru, naho uwo mugore yambaye ikanzu y'umukara, imbere yabo hakaba hari utuntu bari gukinisha.

Itsinda ry'abantu biganjemo urubyiruko, bambaye imipira y'ubururu hejuru. Bari kumwe kandi n'abandi bantu bakuru, harimo umugabo ubahagaze hagati wambaye ishati y'umweru na karuvati, n'undi mugore w'umuzungu uhagaze ku ruhande rw'ibumoso, wambaye ikote rya kaki.

Abana benshi bateraniye hamwe bambaye imyenda ubona ko idasa neza bafite utujerekani tw'amazi bisa nk'aho baje ku iriba cyangwa se bagiyeyo. Aho bari hari igisharagati cy'ubakishije ibiti ndetse n'ibihuru biri ku mpande z'aho.

Inyubako iteye irangi ry'umuhondo isakaje amabati y'umutuku, ifite amadirishya manini asa icyatsi, imbere ifite urukuta rwubakishije amabuye ndetse na za esikariye zikotirije ibyuma.

Umuntu uhagaze imbere, wambaye umupira w'umweru, afite indangururamajwi mu kuboko kwe kw'iburyo, ubona ko ari gutanga ijambo. Imbere ye hari abandi bagore batatu bicaye, bamwitegereza. Imbere yabo hateretse imeza iriho uducupa tw'amazi, telefone zabo n'amakaye.

Umugabo wambaye ishati y'umweru uhagaze hagati y'amabendera abiri; harimo irya repubulika y'u rwanda; n'irindi ry'umuryango mpuzamahanga unicefu; ku ruhande rwe hari amagambo yanditse ari mu ibara ry'ubururu n'umukara.

Itsinda ry'abantu bahagaze mu ihema, imbere yabo hari ameza ariho ibitambaro by'umukara ateretseho ibintu bitandukanye ubona ko ari ibintu bazanye mu imurika gurisha bityo bakaba babishyize hejuru y'ameza kugira ngo abantu babibone.

Icyapa gifite ubuso bw'ibara ry'umweru, kiriho ibirangantego nk'icya polisi y'u Rwanda ndetse n'ikirango cya guverinoma y'u Rwanda. Handitseho amagambo avuga ngo: "Isange One Stop Center" ari mu ibara ry'umukara.

Itsinda ry'abantu bicaye ku mbaho, abandi bahagaze inyuma yabo; bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umweru, umukara, n'ubururu. Iruhande rwabo hari ibirango bitandukanye biranga imiryango mpuzamahanga ndetse n'ikorera mu Rwanda; urugero harimo nk'ikirango cya kaminuza y'u Rwanda.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru n'agapira k'umuhondo mu imbere; yifashe mu biganza kandi ari guseka; yicaye ku gatebe ndetse hirya ye hari intebe umurwayi aryamaho agaramye; ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye biri muri icyo cyumba.

Abaganga babiri bambaye amatara y'umweru n'udupfukamunwa tw'ubururu imbere yabo yicaye umwana wambaye agapira k'umukara n'agapfukamunwa k'umutuku barimo barapima ubuzima bwe bw'amemyo cyangwa se bwo mu kanwa kugira ngo bamenye uko buhagaze.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bugezweho buteye imbere, harimo nk'intebe y'umurwayi y'ubururu n'umweru ahagana hasi ndetse n'agatebe ka muganga, iruhande rw'iyo ntebe hari izindi mashini ziriho insinga ndetse na televiziyo hirya igaragaza uko ubuzima bw'umurwayi buhagaze.

Abantu bifotoje harimo abicaye hasi bambaye amakote n'abandi bahagaze, bambaye imyenda irimo amabara y'umweru, ubururu ndetse n'umukara, bamwe basetse bazamuye n'intoki zabo.

Gutoza abana bakiri bato koza amenyo, ni ingenzi kandi ni byiza kubera ko uwo muco bawukurana kugeza bashaje, umwana wicaye ukiri muto wambaye agakanzu, agapira k'umweru ufite uburoso bw'amenyo.

Umugabo wasetse, wifashe mu biganza bye, aregamye yambaye agapira ka beje, n'agatambaro mu gituza cye gasa umweru, icyumba arimo giteye irangi ry'umweru kirimo kandi ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi.

Koza amenyo ni ingenzi. Gusa ntibisaba ko dukoresha uburoso bw'amenyo gusa. Ahubwo tuba tugomba no gucishamo akadodo hagati y'amenyo kugira ngo tumenye neza ko ibiryo n'indi myanda iba iri hagati y'amenyo yavuyemo.

Umuntu wambaye ikote ry'ubururu, yegeranye n'undi wambaye ikoti ry'umukara, bose bafite impapuro mu ntoki n'amakaramu bari gusinyaraho, hirya yabo hari imeza iriho igitambararo cy'ubururu, iteretseho ibikoresho bitandukanye birimo amatelefone, impapuro ndetse n'amacupa y'amazi yo kunywa.

Umuntu ubona ko yagize ikibazo cy'iryinyo rikavamo, akaba yaje gushaka iririsimbura. Imbere ye hari umuntu ufite uturindantoki tw'umweru ndetse n'akuma kariho amenyo atandukanye, ashobora gusimbura ayavuyemo.

Umugabo waje kwisuzumisha amenyo ye, bamuzaniye akuma kariho amenyo atandukanye ashobora gusimbura aye arwaye cyangwa se kuba yanayashyiramo ku bushake bwe.

Umugore wambaye agashashi k'ubururu ndetse wikoze ku kananwa, ukuboko kwe kw'ibumoso gufite ikirahure arimo arirebamo, yasetse kandi yambaye n'iherena ku gutwi, yicaye mu ntebe.

Umugabo wambaye umupira uzwi ku izina rya runiga yasetse afite amenyo yera, mu kuboko kwe kw'iburyo afitemo agakoresho kariho amenyo y'insimburangingo yifashishwa ku kuba yasimbura andi yavuyemo.

Umwana wasamye, yambaye agapira k'umuhondo n'amaherena ku matwi, arararamye; muganga wambaye uturindantoki tw'umweru, afite akuma mu ntoki kifashishwa mu gupima ubuzima bw'amenyo.

Umwana ukiri mutoya cyane rwose, wambaye agatako ku mutwe, afite uburoso bwoza amenyo arimo ariborosa. Yicaye ku ntebe y'ubururu ni byiza ko dutoza abana koza amenyo bakiri bato.

Akamashini kabugenewe kifashishwa n'abaganga mu kureba ibyagaragaye mu bipimo bafashe abarwayi, ibiganza byambaye uturindantoki tw'ubururu, biri gufata ako kamashini.

Abana bari mu ishuri, bambaye imyenda y'ishuri iri mu ibara ry'umuhondo na kaki, bicaye mu ntebe z'imbaho, barishimye bazamuye amaboko yabo kandi bafitemo amabiswi mu ntoki zabo.

Gukura amenyo ni bumwe mu buvuzi butangwa kwa muganga, aho iyo ufite ikibazo ugenda bakarigukuriramo bakaba baguha n'irindi ririsimbura ariko ni byiza ko bikorwa n'abaganga b'inzobere kuko iyo bidakozwe n'umuntu utabizobereye bishobora kuviramo umurwayi ibibazo.

Umwana uryamye ugaramye, yambaye ishati ya karokaro arambuyeho igitambaro, umuntu umuri iruhande yambaye uturindantoki, yambaye yitaburiya y'umweru kandi afite mu ntoki ze, akuma kifashishwa mu buvuzi bw'amenyo.

Umwana wambaye ishati y'ubururu yasetse mu kuboko kwe kw'ibumoso afitemo uburoso bw'amenyo buri mu ibara ry'ubururu n'umuhondo agiye kubukoresha asukura amenyo ye.

Abantu bambaye imipira y'umukara, uturindantoki tw'umweru, harimo nk'umugabo wambaye isaha n'amadarubindi. Yegeranye kandi n'undi wambaye agapfukamunwa k'ubururu, hagati yabo hari umuntu uryamye barimo baramuvura indwara zo mukanwa.

Umukobwa ndetse n'umusore, bari guseka ubona ko bishimye, bambaye udupira tw'imyeru, bombi mu biganza byabo byombi bafashe utudodo bacisha hagati mu menyo kugira ngo bakuremo imyanda iba yasigayemo.

Ubuvuzi bw'amenyo, ni bumwe mu buvuzi bukenewe cyane bitewe nuko indwara z'amenyo zifata abantu benshi kandi biba ari ngombwa ko zivurwa, muganga wambaye itaburiya y'umweru agapfukamunwa k'umweru, arimo arapima umugore uri imbere ye wasamye wambaye agasengeri k'umukara.

Umuntu wambaye itaburiya y'icyatsi, agapfukamunwa, amadarubindi ndetse n'uturindantoki tw'umweru yasamuye umwana ari kumuvura indwara zifata imyanya cyangwa se amenyo, uwo mwana yambaye agapira karimo uturongo tw'umweru, umukara n'icyatsi aryamye agaramye.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru, agapfukamunwa, amadarubindi ku gahanga ke ndetse n'uturindantoki tw'umweru, afite akuma kifashishwa mu kuvura amenyo, imbere ye hari akana karyamye ku ntebe yabugenewe, kambaye umupira w'umutuku kaje kwivuza amenyo.

Icyumba cyo kwa muganga giteye irangi ry'umweru kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bugezweho bwifashisha ikoranabuhanga, bimwe mu bikoresho birimo harimo nk'imashini zifashishwa mu gutanga amaraso ndetse no kumenya uko umurwayi ameze, harimo ububati bwifashishwa mu kubika imiti n'ibindi.

Umusaza wambaye agapira k'ubururu, afite n'agakoresho arimo araterura k'ubururu mu kiganza cye, inyuma ye hari umuntu w'umugore wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'akuma mu ijosi, kifashishwa mu gupima imiterere y'umutima bigaragara ko ari we umwitaho.

Umuntu ubona ko akuze ariko uri gukora imyitozo ngororamubiri, yambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara, rero ni byiza ko n'abakuze nabo bakora imyitozo ngororamubiri kugira ngo imibiri yabo ye gucika intege cyane.

Abantu babiri begeranye bafatanye ku ntugu, umwe ni umugabo wambaye ishati ya oranje n'agapira ka gisirikare n'aho uwo hino ni umukobwa wambaye amadarubindi, ikote ry'ikoboyi ry'ubururu, n'agapira mo imbere k'umweru karimo uturongo tw'umukara.

Umusaza wambaye umupira w'umuhondo yicaye ku buriri, afite mu maboko yombi akagozi k'umuhondo gafitwe kandi n'undi mugabo uri imbere ye wambaye agapira k'umweru, inyuma yabo hari akabati gateretseho ibikoresho bitandukanye nk'ibitabo n'ibindi.

Umukecuru wambaye agapira k'ubururu ndetse yegeranye kandi n'undi mukobwa bisa nkaho ari we uri kumwitaho amufasha, bitewe n'uko uyu mukecuru ageze mu myaka y'izabukuru, arimo aramufasha gukora imyitozo ngororamubiri.

Umusaza wambaye agapira k'umweru, wifashe ibiganza, wicaye mu ntebe, inyuma ye hari umugore wambaye imyenda y'ubururu, wamufashe ku rutugu, wamusekeye, ubona ko ari umuntu wita kuri uyu musaza ugeze mu zabukuru.

Umusaza wambaye ishati y'ubururu, ufite telefone mu kiganza cye. Hirya ye hari undi mugore na we wambaye ishati y'ubururu uri kumwe n'uwo musaza, imbere yabo hari ameza ateretseho icupa ry'umukara.

Umusaza wambaye ishati ya kake wifashe ku gahanga arahumirije, ukuboko kwe kw'iburyo guteretse ku meza iri imbere ye, kandi inateretseho ibindi bikoresho bitandukanye nk'amakaye, amakaramu ndetse n'akabeba k'imashini ari gukoresha.

Umusaza wishimye wasetse, yambaye amadarubindi n'ishati y'umutuku. Afite icyuma ndetse n'ifurukanya, arimo ararya. Yegeranye n'umukecuru nawe, bari kumwe bose bari kurya, imbere yabo hari ameza ateretseho, amasahane ariho ibiryo.

Umugore wambaye itaburiya y'ubururu ndetse n'akuma kifashishwa mu gupima imiterere y'umutima mu ijosi rye. Afashe mu kiganza umukecuru uri imbere ye wambaye amadarubindi n'agapira karimo uturongo twa kake ndetse n'umukara, bigaragara ko ari we umwitaho.

Umusaza wambaye agapira k'umukara n'amadarubindi, yicaye mu kagare k'ababana n'ubumuga bwo kutagenda, inyuma ye hari umugore wambaye agapira k'ubururu uri kumusunika, barimo baraseka abona ko bombi bishimye.

Umukecuru wambaye ishati y'ubururu, ari gukora kuri mudasobwa, iruhande rwe hari umusaza wambaye ishati irimo amabara y'ubururu ndetse n'umutuku, ufite agacupa k'umukara karimo imiti y'ibinini.

Abantu bari gukora imyitozo ngororamubiri bityo kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza. Harimo umukecuru wambaye agapira kajya gusa umukara ndetse n'agatambaro ku koboko k'umweru ndetse n'uri inyuma ye wambaye agasengeri k'ubururu, bose barambuye amaboko yabo imbere n'inyuma.

Abantu bicaye hamwe mu byatsi bamwe bicaye ku ntebe z'umutuku abandi bicaye ku z'umukara hari abicaye hasi bambaye imyenda iri mu mabara y'umutuku, ubururu ndetse n'umweru bamwe barimo bakora uturimo tw'intoki nko kuboha ibitebo abandi bari guseka bishimye baganira.

Abagore bari ku murongo basa nk'aho bari kubyina. Abo hagati bambaye imipira y'umweru n'amajipo y'imikara. Uri imbere yabo, yambaye ikanzu y'igitenge. Naho uri inyuma yabo, yambaye ishati y'ubururu ndetse n'ijipo y'umukara.

Umusaza wambaye umupira w'umweru n'ipantaro y'umukara, arimo aragendera mu twuma twabugenewe, dufasha abantu bageze mu zabukuru kugenda. Inyuma ye hari umuforomo wambaye imyenda y'ubururu, uri kumwitaho.

Umukecuru ugeze mu myaka y'izabukuru, yambaye amarinete ndetse n'agapira k'ubururu, afite igikombe cy'ikirahure mu ntoki kirimo amazi ndetse n'ibinini mu kuboko kwe kw'iburyo arimo aranywa, ari mu nzu iteye irange ry'umweru.

Umuntu wambaye itaburiya y'ubururu, arimo arahereza ibinini umukecuru wicaye imbere, wambaye ishati ifite ibara rya beje, imbere yaho hari ameza y'igiti, hateretseho ikirahure cy'amazi ndetse n'agakarito karimo ibinini.

Abantu bateraniye hamwe bicaye mu buryo bw'uruziga ku mbaho ndetse no ku ntebe za palasitike z'ubururu n'umweru, abo bantu nabo bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu, umutuku ndetse n'ayandi, iruhande rwabo hari ibiti bibiri biganje bicaye munsi yabyo.

Umusaza wambaye ishati ya kake, ukuboko kwe kw'ibumoso hariho akuma kifashishwa mu gupima umuvuduko w'amaraso, arimo arakanda amabuto akariho, imbere ye mu nzu ariho hari imeza iri mu ibara rya kaki.

Umusaza ubona ko yishimye, yambaye agapira k'ubururu, iruhande rwe hari umukecuru wambaye agapira k'umutuku, imbere yabo hari ameza manini ariho utuntu bari kwifashisha; mu mukino bari gukina.

Umusaza wambaye agapira k'umweru yegeranye n'umukecuru wambaye agapira gasa umutuku. Imbere yabo hari ameza manini ari amasahani hariho ibiryo bitandukanye kandi hateretseho n'igikombe cy'amazi.

Umusaza n'umukecuru bishimye cyane, ubona ko bari gukina imikino ku meza, bambaye imyenda irimo amabara y'umweru n'ubururu, ubona ko ari abantu bageze mu myaka y'izabukuru, baba bari gukora ibintu bitandukanye kugira ngo badaheranwa.

Abantu bicaye hamwe, ubona ko bishimye, harimo umukecuru wambaye agapira k'umweru n'akandi k'umukara mo imbere n'umwana ukiri muto wambaye agapira k'umutuku n'undi utagaragara neza, bafite amakarita, bigaragara ko bari gukina.

Umuryango uri hamye wishimye, wasetse; wambaye imyenda irimo amabara y'umuhondo, ubururu, umweru, umukara, n'ayandi. Higanjemo umusaza ndetse n'umukecuru, umugabo n'umugore, n'abana be babiri.

Abantu bateraniye hamwe harimo abagabo n'abagore, barimo barakoma amashyi harimo umugore umwe wambaye ikanzu y'igitenge irimo amabara y'ubururu n'umuhondo wahaye ikiringiti gifunyitse umukecuru uri imbere ye.

Abantu ubona ko barimo abagore ndetse n'abagabo bakaba bitabiriye imyitozo ngororamubiri rusange. Harimo abambaye imyenda y'ubururu n'abambaye iy'umweru n'umukara.

Umusaza wambaye agapira k'ubururu, mu kiganza cye cy'iburyo afitemo ibinini, hirya ye ari kumwe n'umukecuru wambaye agapira k'umutuku, ari kumwereka amagambo yanditse ku gapapuro afite, imbere yabo hari ameza manini ateretseho igikombe cy'ikirahure cy'amazi n'udukombe tw'ibinini.

Umusaza wambaye agapira k'ubururu n'ikabutura y'umukara arimo kwifashisha ibyuma afashe kugirango agende neza, inyuma ye hari umugore wambaye imyenda y'umukara uri kumufasha amumenyereza kugenda.

Umusaza wambaye umupira w'ubururu, afite mu kuboko kwe kw'ibumoso agacupa naho mu mu kw'iburyo afitemo ibinini, imbere ye hari imeza nini iteretseho igikombe cy'amazi ariko nanone iruhande rwe hari umukecuru wambaye agakura k'umutuku, uri kumwereka amagambo yanditse ku gapapuro ngo ayasome.

Umusaza urimo witabwaho ahabwa ubuvuzi bw'ibanze mu myaka ye y'ubukure yambaye umupira w'umweru kandi yicaye mu ntebe, iruhande rwe hari umugore uri kumwita wambaye imyenda y'imituku ndetse ufite n'akuma mu ijosi rye kifashishwa mu kumva imiterere y'umutima.

Abantu ubona ko bari mu myaka y'izabukuru, biganjemo abasaza bicaye mu ntebe z'imifariso, bafite bose udukoni, bambaye imyenda iri mu mabara y'umweru n'umukara.

Abantu bari kumwe bamwe basutamye hari n'undi uhagaze munsi y'igiti, urabona ko bari gutanga ubuvuzi bw'ibanze ku muntu uryamye ku gatanda kazwi nka burankari, wambaye ishati ya kakaro bigaragare ko yakoze impanuka akaba yavunitse.

Abantu bicaye mu ntebe zitukura, hagati yabo hari ameza manini ariho igitambaro gisa umweru. Ayo meza ateretseho ibikoresho nka mudasobwa, uducupa tw'amazi n'ibindi. Imbere yabo, hari umugabo wambaye ikote ry'umukara, ufite indangururamajwi uri kubaganiriza.

Abantu ubona ko bitabiriye inama yita ku buzima cyangwa se yerekeranye n'iby'ubuzima muri rusange. Hari abantu bicaye imbere bambaye amakoti y'imikara, amashati y'imye n'amakaruvati. Inyuma yabo hari icyapa kinini cyanditse amagambo y'umweru kiri mu ibara ry'umutuku n'umuhondo.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, ingofero ndetse n'amadarubindi. Mu ntoki ze zombie afite icyapa kirimo ubuso bw'ibara ry'umweru, ariko handitseho amagambo ari mu ibara ry'umutuku avuga ngo ''hakenewe byihuse inkingo zivura ubushita bw'inkende''. Iruhande rwe hari igiti kiri hino y'inzu.

Abantu bicaye ku rubaraza rw'inzu, biganjemo abagore bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku, ubururu, ku kabaraza bicaye gasa umukara, kariho icyapa kiri mu ibara ry'umweru, cyandikishijeho amagambo y'umutuku.

Itsinda ryabantu bicaye abandi bahagaze inyuma yabo, harimo abagore ndetse n'abagabo, bambaye imyenda iri mu mu mabara y'ubururu, umukara, umweru n'icyatsi, inyuma yabo hari icyapa kinini cyane kiri mu ibara ry'umweru n'icyatsi.

Abantu biganjemo urubyiruko barimo abasore babiri n'inkumi ebyiri, bafite udukingirizo turi mu mabara atandukanye mu ntoki zabo, nk'umuhondo, umutuku n'ubururu, bafite icyapa kinini kandi, kirimo umwanya hagati cyanditse amagambo y'umutuku.

Umuntu wagiye kwisuzumisha, ubona ko ari ubukangurambaga bwo gusuzuma abantu. Uri gusuzuma abantu aricaye yambaye ijire y'umutuku n'ishati y'umweru, naho uwo ari gusuzuma yicaye imbere ye yambaye agapira k'umukara.

Abantu baje kureba ubuvuzi. Bicaye ku murongo, mu ntebe. Bambaye imyenda irimo amabara y'umutuku, umweru, ariko uwicaye imbere yambaye ijiri y'icyatsi. Yegeranye kandi n'umuganga wambaye casike, ikirahure, agapfukamunwa, ndetse n'ishashi. Imbere ye hari imeza iteretseho impapuro, n'ibindi.

Umugabo w'umuzungu wambaye ipantaro n'ikoti ry'umukara, ishati isa ubururu, yifashe mu mayunguyungu, iruhande rwe hari undi mukobwa nawe uhagaze wambaye agakanzu karimo amabara atandukanye.

Umugore wambaye ishati y'ubururu, ishene mu ijosi, ndetse n'amadarubindi; ahagaze imbere y'agatoti karimo ibara ry'umweru n'ubururu, iruhande rwe hari amagambo yanditswe mu cyapa cy'umweru asa orange.

Itsinda ryabantu benshi, biganjemo abagore bambaye imipira y'imweru kandi bicaye ku ntebe za palasitike zisa umweru, imbere yabo hari umuntu wambaye ikoti ry'umukara n'ipantaro y'umweru urimo urabaganiriza.

Abantu bifotoje bamwe baricaye abandi bahagaze inyuma yabo bambaye imyenda yiganjemo ibara ry'umukara n'umweru, iruhande rwabo hari ibyapa bitandukanye biri mu mabara y'ubururu, inzu barimo ku rukuta iteye irangi ry'umweru.

Umuntu wambaye umupira w'icyatsi n'ikanzu y'umweru irimo uturarabyo, afite indangururamajwi y'umukara mu ntoki ze, ari mu nzu ngari imbere ye hari abandi bantu bicaye bamukurikiye, naho inyuma ye hari umuntu urimo uratambutsa umuziki.

Itsinda ry'urubyiruko ryiganjemo abakobwa bambaye hejuru udupira tw'umweru, hasi bambaye amapantaro arimo amabara y'umutuku, umukara, n'ubururu, bafite ibishushanyo bose birimo imyanya bari kureberamo.

Itsinda ry'abantu barimo abagore n'abagabo bambaye imyenda iri mu mabara y'umweru, umukara, ubururu ndetse n'icyatsi. Inyuma yabo hari icyapa kinini kiri mu ibara ry'icyatsi, ndetse n'umweru, kandi hirya yabo harimo imodoka iparitse.

Umuntu wicaye mu ntebe ya kacye, yambaye agapira ka beje, ndetse imbere yambayemo agasengeri k'umukara, n'ipantaro y'umukara, afite agatabo kandi n'indangururamajwi y'umukara mu kuboko kwe kw'iburyo ari kuvuga.

Umugore n'umugabo bahagaze, begeranye, umugabo yambaye agapira ka oranje, na ho umugore yambaye ishati y'umutuku kandi ateze igitambaro mu mutwe. Mu ntoki zabo bafite ibyapa, biri mu mabara y'ubururu ndetse n'icyatsi.

Icyumba giteye irangi ry'umweru kirimo imashini nini yifashishwa mu buvuzi buteye imbere bukoresha ikoranabuhanga rigezweho, ni imashini isa umweru ifite uruziga imbere bacishamo umuntu.

Inyubako iteye irangi ryumweru ahagana hagati harimo amagambo y'umukara, imbere yayo hari ubusitani buteyemo ibiti ndetse n'inzira yubakishije amatafari ahiye irimo umugabo wambaye ishati y'umutuku n'ipantaro y'umukara.

Icyumba cyahariwe imyitozo ngororamubiri kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa muri siporo, urugero nk'ibyifashishwa mu kwiruka, ibyifashishwa mu guterura n'ibindi; iyo nzu iteye amarangi atandukanye harimo oranje, ubururu, umweru n'iyandi mabara atandukanye.

Umugabo wambaye Itaburiya y'umweru ndetse ku ijosi rye afite agakoresho gasa umukara kifashishwa mu kumenya imiterere yumutima y'abarwayi, yambaye amadarubindi afite ikayi mu ntoki, hirya ye hari umubyeyi wifashe ku nda wambaye ikanzu y'ubururu, naho ahagana inyuma yabo hari inzu zubakishije ibyatsi.

Icyumba kigari cyiganjemo ibara ry'umweru kirimo amatara yaka umweru hejuru, kirimo kandi inkingi zifite amabara ajya gusa icyatsi cyanditseho kandi amagambo y'umweru.

Icyumba ubona ko gisa neza cyane rwose giteyemo irange ry'umweru, kirimo amavaze arimo indabyo n'intebe isa nk'urubaho yo kwicaraho, hejuru hariho ikibaho gisa nka shokora, cyanditse amagambo y'umweru ndetse n'urugi rw'ibirahure ruri hirya.

Icyumba cyiganjemo ibara ry'umweru, kirimo ibikoresho byihariye bikoreshwa mu buvuzi bisa nk'aho ari kwa muganga. Muri ibyo bikoresho harimo intebe zicarwamo n'umurwayi, imashini ziba zigenzura ubuzima bw'uharwariye n'intebe zicarwaho n'abaganga.

Icyumba cyo kwa muganga, cyiganjemo ibara ry'umweru. Ku bikuta hashushanyijeho amaso mu mabara atandukanye. Icyo cyumba kandi kirimo ibindi bikoresho bitandukanye: nk'intebe zicarwa n'umurwayi, izicarwaho na muganga, imeza ziriho mudasobwa, n'ibindi bikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga.

Inzira ebyiri zubakishije amapave zerekeza ku nzu iri imbere yubakishije amabuye, izo nzira kandi zikikijwe n'ubusitani buteyemo ibiti by'amoko atandukanye, hari abantu bari kugenda muri izo nzira, urugero nk'uwambaye imyenda y'ubururu, uwambaye agapira k'umweru n'abandi.

Abantu bahagaze hamwe ubona ko ari nk'abaforomo, bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'utubaranga mu ijosi, bambaye kandi udupfukamunwa. Inyuma yabo hari inyubako isa umuhondo ndetse n'umweru, ifite amagambo yanditseho ku ibaraza ryayo avuga ngo inzu y'ababyeyi.

Icyumba giteye irangi ry'umweru, hamanitse isaha ku giku, icyo cyumba gifite amadirishya manini y'ibirahuri, harimo kandi ibyuma byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, urugero nk'ibyifashishwa umuntu abiterura n'intoki, ibyo umuntu anyonga nk'igare n'ibyo birukaho.

Abantu ubona ko bahagaze mu ibaraza ry'inyubako iri inyuma yabo. Harimo uwambaye umupira w'umutuku, wambaye ishati y'umweru, wambaye ingofero n'undi wicaye inyuma ku ntebe y'urubaho. Inzu bahagaze munsi yubakishije amatafari ahiye kandi yanditseho ko ari ikigo nderabuzima cya Gishweru.

Icyumba kigari giteye irangi ry'umweru, harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi buteye imbere bwifashisha ikoranabuhanga. Urugero rw'ibyo bikoresho harimo nk'imashini ziri hejuru zipima zireba utuntu dutoya, ikindi harimo imashini zifashishwa mu kuvura abarwayi hagaragazwa indwara ziri mu mubiri zitaboneshwa amaso, ikindi harimo izindi mashini nka mudasobwa n'ibindi.

Inyubako iteye irangi ry'umweru ifite imiryango ibiri, hejuru ifite icyapa kiri mu ibara ry'icyatsi cyandikishije amagambo ari mu ibara ry'umweru, mo imbere harimo abantu urujya n'uruza baje kugura imiti itandukanye.

Icyumba cyahariwe kwakira abarwayi gitangirwamo ubuvuzi, kirimo ibikoresho nk'igitanda kiryamwaho n'umurwayi cyangwa se nk'umubyeyi ugiye kubyara harimo kandi utubati turimo imiti n'ibindi.

Icyumba giteye irangi ry'umweru ku bikuta, kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo nk'intebe ziryamwaho n'umurwayi n'izicarwaho na muganga ndetse n'utwumba tugiye tugabanyijemo ibyumba, n'amashitingi.

Icyumba kirimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi bugezweho. Harimo imashini zitanga amaraso ndetse n'izitanga umwuka. Hakabamo kandi na televiziyo zigaragaza uko ubuzima bw'umurwayi uhagarariye, buhagaze.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye iteye irangi ry'umweru ku nkingi ndetse n'umuzenguruko, isakaje amabati y'ubururu imbere yayo hari ubusitani burimo indabyo kandi harya yayo hari izindi nzu zubakitse kimwe nka yo.

Inyubako iteye irangi ry'umuhondo, imbere yayo hari icyapa kinini kirimo ibara ry'umweru nk'ubururu, cyanditseho amagambo asa umukara n'umutuku, ndetse n'ibirango, urugero; nk'ikiri mu ibara ry'ubururu, umuhondo n'icyatsi, kiranga ikigo cy'u Rwanda cyita ku buzima RBC, mu mbuga y'iyo nzu, haparitse imodoka zirimo ibara ry'umweru n'umukara.

Inzu yubakishije amatafari ahiye iteye irangi ry'umweru, mu imbere muri koridoro yayo ndetse no ku nkingi zayo. Yanditseho kandi amagambo ari mu ibara ry'umukara avuga ngo inzu yaba'ababyeyi. Muri iyo koridoro y'iyo nzu harimo abantu bicaye mu ntebe bambaye udupira t'ubururu imbere yabo hari ameza.

Icyumba cyifashishwa mu buvuzi kirimo ibikoresho bitandukanye, harimo nk'igitanda kiryamwaho n'umurwayi gisaba umutuku, intebe zisa umutuku zicarwaho na muganga se cyangwa n'abategereje ubuvuzi, imeza nini iriho mudasobwa n'ibindi...

Icyumba cyo kwa muganga giteye irangi ry'umweru. Harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bukoresheje ikoranabuhanga. Urugero; harimo igitanda gishasheho ishuka y'umweru, harimo kandi imashini yifashishwa mu buvuzi ifite ekara hejuru.

Inyubako iteye irangi ry'umweru n'umukara, ifite amabati y'umutuku, imbere yayo hari imbuga nini yubakishije amapave kandi hari ibyuma bibiri biriho amabendera atandukanye harimo n'irya Repubulika y'u Rwanda.

Inyubako ifite inzugi zifite ibara rya shokora hejuru yazo hari amadirishya abiri arimo ibirahure binini kandi byijimye hejuru yayo madirishya hari icyapa kiri mw, ibara ry'ubururu n'umweru cyanditsemo amagambo yumukara.

Icyumba cyo kwa muganga gikorerwamo ubuvuzi buteye imbere bwifashisha ikoranabuhanga, harimo ibikoresho bitandukanye nk'igitanda kirambuye hagati kiryamaho n'umurwayi uri kubagwa, hejuru yacyo hari ibyuma bifashe kuri parafo bitanga urumuri ruhagije mu gihe hari gukorwa operasiyo.

Icyumba kigari gifite amadirishya y'ibirahure manini, giteyemo irangi ry'umweru, kirimo ibikoresho bifashisha mu myitozo ngororamubiri, harimo ibyo baterura ibyo birukaho n'ibyo banyonga nk'igare.

Umuganga wambaye agapfukamunwa k'umukara ndetse n'itaburiya y'umweru. Arimo arakoresha mudasobwa, ikiganza cye cy'iburyo cyafashe ku kabeba gakoresha mudasobwa, imbere ye kandi hari ameza n'ibindi bikoresho.

Inyubako yitegeye yubakishije amabuye, hejuru ifitemo akabaraza gasakaye, imbere yayo hari inzira yubakishije amapave urimo umuntu uri kugenda, kandi hari n'ubusitani bunini buteyemo ibendera ry'igihugu cy'u Rwanda.

Icyumba cyo kwa muganga kiba kirimo indembe. Urabona ko harimo abantu rwose barembye, bari mu mashuka y'umweru. Kandi ubona ko begerejwe ibikoresho byose by'ibanze byafasha kugira ngo aba bantu babe bakira.

Amacupa asa ubururu ariho n'utwapa tw'umweru. Ayo macupa akaba yifashishwa mu gutanga umwuka ku barwayi batawufite cyangwa se bawukeneye, mu gihe barwariye kwa muganga.

Itsinda ryabantu bari kumurongo baje gushaka ubuvuzi, bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu, umweru n'umutuku imbere yabo hari intebe zumukara ndetse n'intebe y'urubaho imwe, ku kuru rundi ruhande hari umugabo wicaye mu kagare k'abamugaye.

Icyumba gifite ibara ry'umweru kirimo imashini nini yifashishwa mu buganga bugezweho, ifite igitanda cy'umweru ariko nanone muri iyo nyubako harimo ibindi bikoresho bitandukanye nk'utubati, turimo ibintu bitandukanye ndetse n'ingarane zijyamo imyanda.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibara ry'umweru, harimo kandi igitanda kiryamwaho n'umurwayi gisa umweru, gifite amapine kandi ni icyumba cyiza cyane ku buryo umurwayi uharwariye aba yizeye isuku n'umutekano.

Umunyonzi utwaye igare wambaye agapira k'ubururu, ahetse umuntu wambaye agapira ka move ufite indobo, hirya y'umuhanda hari icyapa cy'umutuku cyanditseho amagambo y'umweru avuga ngo: "Ikigo nderabuzima cya Gisenyi."

Umugore wambaye imyenda ya move agapfukamunwa n'uturindantoki tw'umweru, arikwambika abagore bari imbere ye akuma gapima umuvuduko wamaraso. Abo bagore bicaye ku ntebe z'mbaho kandi bambaye imyenda irimo amabara y'umweru n'umutuku.

Inyubako iteye irangi ry'umuhondo ahagana hejuru, ifite kandi icyapa kiri mu irange ry'umweru, kiriho amagambo ari mu irangi ry'icyatsi, mu ibaraza ry'iyo nzu hariho inzugi n'amadirishya binini, hahagazemo umugabo wambaye umupira w'umweru.

Inyubako isa neza, iteye irange ry'umweru, ifite urubaraza rusizeho irange ry'ubururu, rwanditseho amagambo arimo ibara ry'umweru aravuga ngo: " Ibitaro by'Akarere ka Nyarugenge."

Ibyuma byinshi biteye kimwe byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, harimo ibyo banyonga nk'igare, harimo n'ibindi birukaho, ibyo byuma biri mu cyumba cyabugenewe, gukorerwamo imyitozo ngororamubiri kizwi nka gimu.

Icyumba kinini kiri mu ibara ry'ubururu, ubwijimye n'umwerurutse, kirimo icyuma cyifashishwa mu kureba mu mubiri w'abarwayi uko hameze.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'agashashi mu mutwe n'agapfukamunwa n'amadarubindi, agiye guterura umwana uri mu bishura by'umweru, wari uteruwe n'umubyeyi wambaye ikanzu ya move, bicaye ku gitanda.

Inyubako yubakishije amabuye, ifite amadirishya afite ibara risa nka shokora, ifite kandi akabaraza gafite inkingi, hagati muri ako kabaraza harimo abagabo babiri bambaye amataburiya y'umweru bari kugenda baganira, iyo nzu imbere yayo hari ubusitani bugari.

Icyumba kirimo ibikoresho bitandukanye nk'intebe z'imifariso zo kwicaramo, intebe zicarwamo hagati igihe bari kurya, ameza yifashishwa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye.

Inyubako ndende ifite ibirahuri by'ubururu, iteye irangi ry'umweru, imbere yayo hari ubusitani bunini buteyemo ibiti by'imikindo, iyo nyubako hejuru ifite icyapa kiriho amagambo yanditse mu ibara ry'icyatsi.

Inyubako igeretse gatatu, iteye irangi ry'umuhondo ndetse n'irindi by'umweru ahagana ku madirishya no ku nzugi, ahagana mu mbuga y'iyo nzu haparitse imodoka ziri mu mabara y'umweru n'umukara, urugero hari imodoka iri gusohoka mu gipangu k'iyo nzu.

Urujya n'uruza rw'abantu, harimo abagore ndetse n'abagabo, bambaye imyenda iri mu mabara y'umutuku, ubururu n'andi, haparitse kandi imodoka isa ku umukara imbere yabo hari inyubako igeretse rimwe yubakishije amatafari ahiye.

Icyumba cyo kwa muganga cyahariwe kubagiramo abantu mu gihe bibaye ngombwa; harimo abagabo batatu bambaye amataburiya y'ubururu n'utugofero, n'uturindantoki tw'umweru; ku gitanda kiri imbere yabo haryamyeho umuntu uri gukorerwa isuzuma.

Inyubako iteye irangi ry'umweruru ku mpande, ariko hagati muri koridoro yayo, harimo ibara ry'ubururu, ariko handitswemo amagambo y'umweru avuga ngo: ibitaro by'akarere ka Nyarugenge.

Itsinda ry'abagore biganjemo ariko harimo n'abagabo bicaye ku ntebe zimbaho bambaye imyenda irimo amabara y'ubururu, umutuku, icyatsi n'umweru, imbere yabo hari abandi bagabo batatu, harimo babiri bicaye n'undi umwe uhagaze wambaye ikoti ry'umukara.

Inyubako ndende, yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu. Iruhande rwayo, hateye indabyo ndetse hari n'inzira zubakishije amapave. Iyo nzu bigaragare ko ari ahavurirwa amaso kuko hariho ibyapa by'amaso.

Inyubako isakaje amabati y'ubururu. Iteye irange ry'umweru. Imbere mu kabaraza hari inzugi zisa umweru, kandi hejuru yanditseho amagambo ari mu ibara ry'ubururu avuga ngo: " Inzu y'ababyeyi".

Icyumba cyo kwa muganga cyifashishwa mu kuvurirwamo abarwayi, harimo abaganga barimo baraganira bareba ibyuma bishyashya byazanywe bizaza byifashishwa mu buvuzi ukoresheje ikoranabuhanga.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye nk'imashini zifashishwa mu buvuzi buteye imbere bw'ikoranabuhanga zifite amateleviziyo agaragaza uko ubuzima bw'abarwayi baharwariye buhagaze.

Inyubako ngari iteye irangi ry'umweru ariko ifite ibikuta byubakije amatafari ahiye, iyo nyubako ifite imbere imbuga nini y'ubusitani burimo indabyo n'ibindi biti bitandukanye kandi hateyemo n'amapoto atanga urumuri mu gihe cya nijoro.

Inyubako ifite korodoro ndende ifite inzugi zisa nka shokora, hejuru hari parafo y'umweru kandi irimo amatara asa umweru. Ahagana ku bikuta hagiye haciweho uturongo turimo ibara ry'ubururu.

Umugabo uhagaze imbere wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, ari gutunga ukuboko kwe imbere ku gikuta ahari icyapa kiri mu ibara ry'umutuku n'umweru, gishushanyijeho umubu bisobanura kurwanya Malariya.

Icyumba kirimo utubati turimo imiti itandukanye, yaba iri mu ducupa tw'ibirahure, twa parasitike no mu dukarito, iyo nzu akaba ari inzu izwi, zigurisha imiti.

Intebe yicarwaho n'umurwayi ifite ibara ry'ubururu bwerurutse hejuru ndetse n'umweru hasi, ifite amapine ikindi iruhande rwayo hari agatebe k'umukara gusa kicarwaho na muganga, ahagana hirya ku gihuta hari utundi dukoresho turimo twifashishwa.

Umuntu wambaye Itabuburariya y'umweru agapfukamunwa n'uturindantoki tw'ubururu afite icupa ry'umuti mu ntoki ze harimo arakoresha imashini iri imbere ye asuzuma niba umuti atwaye ari wo wanyawo icyumba arimo kirimo ibindi bikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi buteye imbere.

Umuntu wambaye taburiya y'umweru, arunamye ari gutera urushinge undi muntu uryamye, ugaramye, wambaye umupira w'umweru, n'ingofero ndetse n'agapfukamunwa, n'ipantaro bisa umukara. Aryamye ku buriri bufite matera y'ubururu.

Inyubako iteye irangi ry'umuhondo ifite amadirishya manini y'ibirahure, imbere yayo mu mbuga haparitse imodoka nyinshi ziri mu mabara y'umweru n'umukara, naho umuryango usohoka muri iyo nyubako harimo icyuma cya bariyeri kiri mu mabara y'umutuku n'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bukoresha ikoranabuhanga. Urugero harimo nk'icyuma gifite igitanda ndetse n'umuzenguruko kifashishwa mu kureba mu mibiri y'abarwayi. Iki cyuma kikaba giteye imbere cyane kuko gikoresha ikoranabuhanga.

Icyumba giteye irange ry'umweru ku bikuta gifite ubwakiriro ndetse n'intebe zo kwicaramo, nk'urugero umugabo wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umuhondo wicayemo, n'undi mugabo wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara uri kurwakiriro.

Icyumba kirimo amabara ya oranje ku nkuta, kirimo amateleviziyo hagana hejuru, ndetse kirimo n'ibikoresho byinshi byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, by'umwihariko ibyo kwirukaho, ibyo kunyonga n'ibindi, biri mu cyumba kizwi ku izina rya gimu.

Inyubako iteye irangi ry'umweru, ifite ibaraza risakaye rigotesheje ibyuma by'umweru, munsi ya ryo hari icyapa cyanditse amagambo y'icyatsi avuga ngo: inzu y'ababyeyi n'impinja.

Umugore wambaye itaburiya y'umweru ndetse n'akuma afite ku ijosi rye, kifashishwa mu gupima imiterere y'umutima, yambitse umwana wicaye imbere ye akuma ku kuboko gafasha mu gupima umuvuduko w'amaraso.

Inyubako iteye irange ry'umuhondo ku nkingi ndetse n'umuzenguruko wayo ahagana hejuru. Ifite inzugi n'amadirishya manini y'ibirahure by'umukara. Imbere yayo, hari intebe z'imbaho n'umugabo wambaye ishati y'icyatsi n'ipantaro y'umukara, uri kuhagenda.

Abantu ubona ko baryamye ku bitanda, hejuru yabo hari inzitiramibu zimanitse baryamamo mu gihe cya nijoro, kugira ngo bataba bakatakwa n'umubu utera Malariya.

Icyumba kigari, cyiganjemo ibara ry'umuhondo, ahagana hagati, naho hejuru hateye irangi ry'umweru, iki cyumba gifitemo intebe zigiye zigabanyijwemo n'ibikuta biri hagati yacu.

Icyumba cyo kwa muganga giteyemo irangi ry'umweru, kirimo ibikoresho bitandukanye by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi buteye imbere, urugero harimo nk'imashini yifashishwa mu gusikana umubiri w'umurwayi uko umeze, iruhande rwayo kandi hari izindi mashini na mudasobwa n'izindi.

Icyumba kinini giteye irangi ry'umweru, kimanitseho isaha ku gikuta. Ni icyumba gikorerwamo ubuvuzi bugezweho bwifashisha ikoranabuhanga. Urugero rw'ibikoresho biri muri icyo cyumba, harimo nk'igitanda, ibyuma bifite televiziyo byerekana uko ubuzima bw'umuntu uharwariye buhagaze, ibyuma byifashishwa muri siporo, umuntu yiruka n'ibindi.

Umuntu wambaye itaburiya y'umweru. Arimo arasasa ishuka y'umweru ku cyuma kiri imbere ye abona ko aricyo cyifashishwa mu kureba mu mibiri y'abantu bafite ibibazo bitandukanye.

Inyubako yubakishije amatafari ahiye, isakaje amabati y'ubururu. Ahagana ku rukuta hamanitse icupa ry'umutuku rya kizimya mwoto. Ahagana imbere yayo hari imboga ndetse n'ubusitani n'indabyo.

Icyumba kirimo intebe z'imikara ziteye ku murongo, ubona ko ari icyumba gicururizwamo amadarubindi yo kwambara. Hano ni ahantu ujya ukavugana n'abahakora bakagupima uburwayi ufite bw'amaso bityo bakabushakira amadarubindi agukwiriye.

Icyumba cyo kwa muganga kigari giteyemo irangi ry'umweru. Kirimo ibikoresho byinshi by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi buteye imbere. Urugero harimo nk'imashini zifite insakazamashusho zerekana uko ubuzima bw'uharwariye buba buhagaze. Kandi harimo umuntu uryamye ku gitanda kiri hagati.

Icyumba cyo kwa muganga giteye irangi ry'umweru, kirimo ibikoresho byifashishwa mu buvuzi buteye imbere bwifashisha ikoranabuhanga, muri ibyo byuma harimo mudasobwa, harimo ibyuma byifashishwa mu gupima uko mu mubiri w'umuntu hahagaze n'ibindi.

Ibishushanyo by'abantu babiri bakoze ibikorwa bitandukanye, ubanza yicaye ku ntebe y'umweru yazamuye akaguru ke k'iburyo naho ukurikiyeho arahagaze ariko afashe ku ntebe iri imbere ye.

Umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, afite imisatsi miremire, yambaye agasengero ndetse n'ipantaro by'umukara. Yicaye mu buryo yahinnye amaguru ye yombi. Iruhande rwe hari agacupa karimo amazi yo kunywa.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu ndetse n'ishaneti mu ijosi, ukuboko kwe kw'iburyo gufashe icupa ry'amazi, arararamye arimo ayanywa, kunywa amazi ni ingenzi kuko bituma umubiri wacu ukora neza. Kandi uretse n'ibyo n'ubwonko buba buyakeneye.

Inkweto ziri mu ibara ry'umukara, urabona ko zikomeye cyane kuko zifite umupira wo hasi, udasanzwe. Ikindi biragaragara ko ari nshyashya kubera ko hariho agapapuro kagaragaza ko aribwo zikimara kugurwa.

Umugabo wambaye agapira k'umweru, agakabutura k'umukara, wifashe mu mayunguyungu, yazamuye ukuguru kwe kw'iburyo ku cyuma gikikije umugezi, agafatisha akandi akaboko ke k'iburyo.

Umugore uryamye, agaramye, yahinye akaguru ke k'iburyo, yagafatishije amaboko ye yombi. Na ho ukuguru kwe kw'ibumoso kurarambuye. ari mu nzu iteye irange ry'umweru, ifite idirishya rinini ry'ibirahure.

Igikapu gisa umutuku ndetse kiriho n'uturongo tw'amabara y'umukara, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze, nk'imiti inshinge ibinini ibipfuko ndetse n'ibindi.

Umuntu wambaye umupira w'umweru wafatishije ukuboko kwe kw'ibumoso ishashi irimo amazi y'ubururu ahagana mu nkokora y'ukuboko kwe kw'iburyo yambaye kandi ipantaro y'ubururu yicaye mu ntebe z'umweru.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri yicaye mu buryo ahinnye akaguru ke k'iburyo, ariko ak'ibumoso yakarambuye, arunamye yafatishije ibiganza byombi ku kaguru k'ibumoso ari nako karambuye.

Umuntu bisa nk'aho ari umuganga, yambaye itaburiya y'umweru ndetse yambaye mu ijosi rye n'agakoresho kifashishwa mu gupima imiterere y'umutima, mu biganza bye afitemo kasike z'abamotari.

Icyumba kirimo imashini isa umweru ndetse n'igitanda cyayo yifashishwa mu buganga bugezweho bukoresha ikoranabuhanga. Ni imashini yifashishwa mu gupima uko mu mubiri w'umurwayi hahagaze bityo kugira ngo babone indwara zidakunze kugaragara.

Umuntu usa nkaho yagize ikibazo mu ivi rye cyangwa se akaba yagiye kwirambuza imitsi, imbere ye hari umuganga wambaye itaburiya y'umweru, ufite akuma kifashishwa mu kumenya imiterere y'umutima mu ijosi, uri kumukanda mu ivi.

Umuganga wambaye itaburiya y'umweru wicaye, inyuma hari abandi bantu bari kumurebera, imbere ye hari akana kicaye kambaye agapira k'ubururu, ari gupima amenyo ngo arebe niba atarwaye.

Umugabo ubona ko yakoze imyitozo ngororamubiri akaba akomeye cyane, yambaye agapira k'icyatsi. Mu kuboko kwe kw'iburyo afitemo icupa ry'umweru rifite umupfundikizo w'umukara, akaba araramye ari kunywa amazi.

Umugabo uri kunywa amazi, wambaye agapira k'ubururu n'ipantaro y'umukara ndetse afite n'agasume ku ijosi rye. Mu kiganza cye cy'ibumoso afitemo terefone ndetse akaba ari kumva imiziki.

Akagare gafite amapine abiri y'inyuma manini ndetse n'utundi dutoya tubiri imbere n'aho umuntu akandagira, kari mu ibara ry'umukara ndetse n'ubururu, ni akagare kifashishwa kagendamo n'abamugaye.

Umuntu uri kwiruka wambaye agasengeri k'umweru, iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'umweru, agapfukamunwa ndetse n'ipantaro by'umukara, bari mu nzu yahariwe imyitozo ngororamubiri izwi ku izina rya jimu. Bari gukoresha icyuma kifashishwa muri siporo umuntu yiruka bitabaye ngombwa ko asohoka ngo yiruke hanze.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, ipantaro y'ubururu ari gufasha undi wambaye agapira ka gisirikare wicaye mu ntebe isa ubururu n'umukara, ukuguru kwe kw'iburyo yagufatishije ku cyuma arimo aragukoresha siporo bityo kugira ngo ingingo ze zikore neza.

Umugabo wakoze imyitozo ngoramubiri, arakomeye ubona ko afite imikaya minini. Yambaye agapira k'icyatsi kibisi, yazamuye ukuboko kwe kw'iburyo gufite icupa ry'amazi, arimo arayanywa.

Isahane y'umweru iriho imbuto, impeke ndetse n'ibindi, iruhande rwayo kandi hari umugozi wifashishwa mu gusimbuka, inkweto zifashishwa muri siporo ngororamubiri, agakoresho kifashishwa mu gupima imiterere y'umutima n'ibindi.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku, wicaye mu ntebe y'umweru. Imbere ye hari akabati gateretseho mudasobwa, ari kureba amashusho. Mu cyumba arimo harimo ibindi bikoresho bitandukanye nk'intebe zicarwaho n'umurwayi ndetse n'ibindi.

Umugabo wambaye imyenda y'umukara, uri mu myitozo ngororamubiri, ari mu buryo yunamye yashinze akaguru kamwe k'iburyo, ak'ibumoso kari inyuma, ndetse akaboko ke k'iburyo yagakojeje hasi.

Imashini yifashishwa mu buvuzi. Ifite impuzangano y'ibara ry'umweru. Imbere yayo hari amabuto ari mu ibara ry'icyatsi, ndetse n'utu ekara dutoya, turi mu ibara ry'umukara.

Imbuto, imboga ndetse n'ibindi bihuriye hamwe. Mu mbuto harimo nk'imineke, inkeri ndetse n'ibindi. Mu mboga harimo amashu puwavuro, karoti n'ibindi. Naho mu bijyanye n'ibikomoka ku matungo hariho inyama, amagi ndetse hakabamo n'impeke. Iruhande rwabyo hari ibyuma byifashishwa mu myitozo ngororamubiri.

Imuntu wambaye itaburiya y'ubururu, ari gukoresha akuma amurika mu jisho ry'umwana ukikiwe n'umubyeyi, kugira ngo arebe indwara arwaye y'amaso bityo amubonere umuti ukwiriye.

Umuntu uhagaze areba imbere ye yambaye agasengeri ka oranje. Yambaye kandi ekuteri mu mumatwi, yazamuye amaboko yombi ayahuriza hejuru y'umutwe we, ikindi yambaye isaha ku kuboko isa umukara.

Umugabo uhagaze ureba imbere, yambaye agapira k'umweru kaho uturu tw'umukara hagana ku maboko, amaboko ye yombi yayahurije inyuma ku mutwe we, yambaye isaha y'umukara, kandi bisa nk'aho ari mu myitozo ngororamubiri.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye imyenda y'imikara, yapfukamishije ivi rye ry'iburyo ashinga ukuguru kwe kw'ibumoso, afatisha ibiganza bye byombi ahagana mu rugingo rwe rw'ivi rw'akaguru k'ibumoso.

Umugore uri gukora imyitozo ngororamubiri, wazamuye amaboko ye yombi akayahuriza hejuru y'umutwe we arimo arayagorora, ni byiza rero ko umuntu yigorora ingingo nyuma yo gukora imyitozo ngororamubiri.

Umukobwa ubona ko waruri gukora imyitozo ngororamubiri, ari mu nzira yubakishije amapave ariko akaba asa nkuwananiwe, ahagaze yunamye kugira ngo abanze aruhuke, yambaye agasengeri k'icyatsi n'ikabutura y'umukara.

Uruziga rurimo mpande enye, uruhande rurimo umugabo uri mu ibara ry'ubururu urimo kwiruka, urundi ruhande rurasa umutuku rurimo ikimenyetso cy'umusaraba, urundi ruriho umuntu uri gukora siporo mu ibara ry'icyatsi, uwundi uri mu ibara rya kake yifashe ku biganza.

Umuntu wambaye agapira k'icyatsi, agakabutura k'ubururu n'inkweto, arimo arirukanka, yafatishije amaboko ye yombi ku cyuma kiri imbere ye kiri mu ibara ry'umukara ndetse n'umuhondo, hasi hashashe tapi y'icyatsi.

Uruhurirane rw'imbuto zitandukanye, zirimo inanasi, imineke, pome, voka, indimu n'icunga ndetse n'izindi. Iruhande rwazo kandi, hari ibyuma byifashishwa mu myitozo ngororamubiri, imidari, ibipesu, ibinini ndetse n'ibindi.

Imipira yahurijwe hamwe yifashishwa mu mikino itandukanye. Urugero nk'usa umutuku wifashishwa mu mukino uzwi nka ''volleyball'', undi usa umweru n'umukara wifashishwa mu mukino w'amaguru uzwi nka ''football'', hakabamo n'undi wifashishwa mu iteranamakofe ndetse n'akuma kayikikije kifashishwa mu gupima imiterere y'umutima.

Umuntu ubona ko yagize ikibazo mu nkokora y'ukuboko kwe kw'iburyo, hakaba hari kumurya, yakoresheje ishashi irimo amazi y'ubururu kugira ngo arebe yagabanya ubwo bubabare.

Abana bari ku mirongo bambaye udusengeri turimo amabara y'umweru n'udukabutura tw'umukara n'inkweto zifite amabara atandukanye barimo barabyina, hirya yabo hari abantu b'urujya n'uruza baje kwitegereza ibyo bari gukora.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri, yambaye agapira k'umweru, agakabutura k'umukara, ukuguru kumwe aragushinze mu gihe ukundi yakurambitse ku cyuma gikikije inkengero z'amazi.

Umugabo wicaye. Yambaye agapira k'umweru ndetse n'ikabutura y'umukara. Amaboko ye yombi, yayafatishije ukuguru kwe ahagana mu rugingo rwe rwo mu ivi. Yambaye agakomo k'umukara ku kuboko kw'iburyo ndetse n'impeta.

Ikarito isa icyatsi yifashishwa mu kubika ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze. Ibikoresho biri muri iyo karito harimo nka bande, ibipfuko, imikasi, ibinini, amavuta asigwa ku mubiri, korogate n'ibindi.

Umugabo uri mu myitozo ngororamubiri ubona ko afite imbaraga kandi yubatse umubiri we, yambaye agapira k'ubururu n'ikabutura y'umukara, mu biganza bye byombi ateruye utwuma baterura, iruhande rwe hari umuntu urimo amwerekera amwereka ibyo akora.

Umugore w'umuzungu wunamye wafashe ku kaguru k'umwana wasetse. Inyuma y'uwo umwana hari undi mugore witeye igitambaro mu mutwe, muri icyo cyumba hateye irangi ry'umweru ndetse n'umuhondo n'ubururu. Harimo kandi abandi bantu batandukanye n'ibikinisho by'abana.

Akagare gafite amapine abiri, kagendwaho n'abantu bafite ubumuga, bwo kutagenda. Kari mu ibara ry'umukara, ariko ibyuma byako, birasa ubururu. Gafite udupine tubiri dutoya imbere, ndetse n'aho bashyira ibirenge by'umuntu umugaye.

Umugabo wambaye agasenyero ndetse n'agakabutura by'umukara, yazamuye ukuguru kwiburyo agushyira hejuru ku rugo rw'ibiti. yambaye isaha ukuboko y'umukara, akaguru ke k'ibumoso agashinze hasi yarambuye kandi amaboko ye yombi ayakoza ku kuguru kw'iburyo.

Abaganga bagera kuri batanu. Bose bambaye amakanzu y'ubururu udushashi mu mutwe n'udupfukamunwa. Bari mu cyumba cyagenewe kubagirwamo, aho imbere y'abo hari imeza iteretseho udusorori tw'utwuma turimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kubaga.

Umugabo wambaye umupira w'umweru, umukandara mu nda ndetse n'ipantaro y'umukara, arimo yiga kugenda agendera ku byuma, inyuma ye hari umugore wambaye imyenda y'ubururu urimo uramufasha.

Umuntu wambaye agapira k'umweru, ubona ko afite ikibazo mu maguru akaba atabasha kugenda neza bityo akaba ari gukoresha akuma kabugenewe gafasha abantu kugenda, arimo arafashwa n'umuntu w'umugore wambaye imyenda y'ubururu wicaye imbere ye.

Umuntu w'igitsina gore, uri gukora imyitozo ngororamubiri. Akaboko ke kamwe yagakojeje mu mugongo akandi yagakojeje mu nkokora y'ukuboko kwe kundi. Yambaye ekuteri kandi afite akantu ku kuboko kifashishwa mu kubika akuma k'umuziki.

Umuntu w'umusore ubona ko yari ari mu myitozo ngororamubiri, yambaye agapira k'umweru kariho uturongo tw'umukara ahagana ku maboko ye, mu kuboko kwe ku iburyo afitemo icupa ry'ubururu rifite umupfundikizo w'umukara, akaba ari kunywa amazi.

Ni byiza ko dukora siporo ariko tunafata ibiribwa ndetse n'ibinyobwa bifite intungamubiri, muri ibyo biribwa harimo nk'imbuto, nka pome, voka, amaronji n'ibindi, naho mu mboga hakaba harimo amashu, pavuro ndetse n'ibindi.

Ibikoresho byinshi bitandukanye byifashishwa kwa muganga, ubona ko hari ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu buvuzi bugezweho, harimo nk'akuma gapima imiterere y'umutima w'umuntu, harimo utumashini tubiri n'intebe yicarwaho n'umurwayi.

Umugabo wicaye, wambaye ipantaro y'ubururu bigaragara ko yagize ikibazo mu ivi rye, harimo ububabare, akaba ari gukoresha ishashi irimo amazi y'ubururu akozaho kugira ngo ngo arebe ko yagabanya ubwo bubabare.

Umuntu uri mu myitozo ngororamubiri arunamye, ukuguru kwe kw'iburyo yakuzanye imbere agufatisha ukuboko kwe kw'ibumoso, ukuboko kwe kw'iburyo yagushyize inyuma y'umugongo we, yambaye agasenge k'icyatsi ndetse n'agakabutura ka beje.

Umuntu uhagaze wambaye itaburiya y'umweru na karuvati irimo amabara atandukanye, mu ijosi rye kandi ahafite agakoresho kari mu ibara ry'umukara kifashishwa mu gupima imiterere y'umutima, mu biganza bye byombi ateruye umupira w'umutuku uzwi ukoreshwa mu mukino witwa rugubi.

Umuntu wambaye agasengeri ka move, yambaye kuteri z'umweru, ukuboko kwe kw'iburyo gufite icupa ry'amazi ari kunywa, naho ku kuboko kwe kandi haziritseho agakoresho kifashishwa mu gushyiraho akuma k'umuziki mu myitozo ngororamubiri.

Amakarito abiri asa umutuku, hagati yayo harimo icupa ry'amazi ry'umweru, aya akaba ari amakarito yifashishwa mu butabazi, akaba aba arimo imiti ndetse n'ibindi bikoresho bifasha mu kuvura abakinnyi, baba bagiriye imvune mu kibuga.

Umuntu w'igitsina gore, uri gukora imyitozo ngororamubiri, yazamuye amaboko ye yombi, yicaye mu buryo ahinnye amaguru ye yombi, yambaye agasengeri k'umweru, imbere ye hari ibikoresho nka mudasobwa, udukoresho tubiri dusa pink bifashisha imyitozo ngororamubiri, icupa ry'amazi n'ibindi.

Ibinini byakoze ishusho y'umuntu biri mu mabara y'umutuku, umweru, umuhondo, ubururu ndetse n'umutuku. Iruhande rwabyo hari urushinge ndetse n'umuti w'amenyo.

Ibikoresho birunze hamwe, byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze. Ibyo bikoresho birimo nk'uturindantoki dufite ibara ry'umweru, uducupa turimo ibinini ndetse inshinge, hamwe n'imiti ivura ingingo. Na za korogate.

Umuntu bigaragara ko yagize ikibazo mu kuguru kwe, akaba yicaye mu ntebe yabugenewe, ari gukoresha uku kuguru kwe siporo kugira ngo arebe ko kwakora neza. Iruhande rwe hakaba hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru uhagaze urimo uramwereka ibyo akora.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri, mu nzu yabugenewe yitwa jimu. Yambaye umupira w'umutuku n'ikabutura irimo umukara n'umutuku. Imbere ye hari undi mugabo uri kumufasha amwerekera ibyo akora. Muri iyo nzu barimo kandi harimo ibikoresho, nk'imipira yo gukina, ibyuma birukaho, n'ibyo banyonga.

Igikapu gisa umutuku kiriho uturongo turi mu ibara ry'icyatsi, kirimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu buvuzi bw'ibanze urugero nk'imikasi, inshinge, akuma gapima umuriro n'ibindi bikoresho bitandukanye by'umwihariko nk'akuma kifashishwa mu gupima imiterere y'umutima cyangwa se agapima umuvuduko w'amaraso.

Abantu bahagaze ariko basa nkaho bunamyemo gake, bambaye imyenda irimo amabara y'icyatsi, ubururu, n'umweru bari kumurongo bigaragara ko babyutse mugitondo cya kare bakora imyitozo ngororamubiri.

Umuntu wambaye agapira k'umutuku, ekuteri z'umweru ndetse n'agakoresho ku kuboko kwe kw'iburyo kabikwamo akuma k'umuziki umuntu yumva mu gihe ari mu myitozo ngororamubiri, mu kuboko kwe kw'ibumoso afitemo icupa ry'amazi ari kuyanywa.

Umuntu wicaye warambije amaguru ye yombi, arunamye afite umusatsi umugera mu mugongo, yambaye imyenda isa icyatsi, yarambuye amaboko ye yombi ayageza hejuru y'ibirenge bye byose.

Umugabo uri gukora imyitozo ngororamubiri yambaye agasengeri k'umweru, ukuboko kwe kw'ibumoso yakwerekeje iburyo agafatisha ukuboko kw'iburyo gutyo kugira ngo katamucika.

Umuntu uhagaze wambaye itaburiya y'ubururu, akamuranga mu ijosi rye. Yafashe ukuguru k'umuntu uryamye agaramye wambaye umupira w'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara, arimo aramufasha kugorora ingingo ze bityo kugira ngo zikore neza.

Umugabo wambaye agapira k'umweru ndetse n'agakabutura k'icyatsi. Aryamye agaramye. Yahinnye ukuguru kwe kw'iburyo ariko hirya ye hari umuntu wambaye itaburiya y'ubururu, agapira k'umweru mo imbere ndetse n'akamuranga mu ijosi. Wafashe uku kuguru, arimo aramukorera masaje.

Umugabo uteruye ariteri y'umukara, azengurutswe n'imbuto n'ibikomoka ku matungo ndetse n'imboga. Urugero harimo nka pavuro, amashu, imiteja n'ibindi. Naho mu mbuto harimo nk'inanasi, imineke, inkeri ndetse na pome. Ibikomoka ku matungo harimo inyama z'inkoko, amagi n'ibindi.

Umugabo uryamye, ugaramye wambaye agapira k'ubururu, ikabutura y'umweru irimo utubara tw'umutuku ,afite telefone mu kuboko kwe kw'iburyo. Hirya ye hari umugabo ufite akaguru ke mu maboko ye, arimo arayagorora, amufasha kugira ngo ingingo ye ndetse n'imitsi bikore neza.

Umuntu wambaye agapira k'umweru, ishene mu ijosi, impeta ku rutoki rwe, yafatishije ukuboko kwe kw'iburyo ishashi irimo amazi y'ubururu ahagana mu nkokora y'ukuboko kwe kw'ibumoso, yambaye ipantaro y'ubururu.

Umuntu wubitse inda, ariko wunamutse washinze amaboko ye yombi, yambaye agapira karimo ibara ry'umweru, ndetse na pink. Yambaye kandi ipantaro y'umukara arararamye. Iruhande rwe mu nzu arimo harimo amavaze, arimo indabyo.

Umuntu uri gukora imyitozo ngororamubiri arahagaze yemye yazamuye amaboko ye yombi ayahuriza hejuru ye yambaye agasengeri k'umweru ndetse n'ipantaro y'umukara imbere ye hari amazi menshi.

Umuganga wambaye imyenda y'ubururu, agapfukamunwa k'umweru n'uturindantoki, mu ijosi rye kandi afitemo akuma kifashishwa mu gupima imiterere y'umutima, imbere ye hari imeza nini iteretseho mudasobwa ari gukoresha, ibitabo ari kwandikamo n'ikaramu.

Umugabo wambaye agapira k'umukara, ukuboko kwe kw'iburyo afitemo icupa riri mu ibara ry'umweru, arimo aranywa amazi. Igihe uri kunywa amazi uri mu myitozo ngororamubiri ni byiza, ariko na none ukamenya ko utagomba kunywa menshi.

Umugabo uhagaze yemye, yambaye agapira k'ubururu ndetse n'agatambaro k'umweru ku kuboko kwe, yafatishije mu mayunguyungu ye. Ukuboko kwe kw'ibumoso gufashe icupa ry'amazi ari kunywa. Naho mu ijosi rye harimo ibyuma byifashishwa mu kumva umuziki.

Umugabo wambaye agapira k'umutuku n'ikabutura y'umukara, yambaye n'isaha ku kuboko kwe kw'ibumoso, afite umupira ukinwa mu mukino uzwi nka rugubi, ari mu cyumba cyagenewe gukorerwamo imyitozo ngororamubiri.

Zimwe muri siporo zishobora gufasha abantu bakorera mu biro, bityo kugira ngo bagorore urutirigongo rwabo bitewe n'uko bahora bicaye. Nk'iya mbere ibanza harimo gusutama warambuye amaboko imbere, ikurikiyeho guhagarara wemye ukarambura amaboko, ikurikiyeho ni ukurambura amaboko imbere yawe, indi ni ukunanura amaguru.

Umugabo wambaye umupira w'ingofero wicaye. Iruhande rwe, hari igikapu cy'umukara na ho inyuma ye hari igikuta cy'umweru. Ukuboko kwe kw'ibumoso gufashe icupa ry'amazi, ari kuyanywa. Bigaragara ko yari ari mu myitozo ngororamubiri.

Umugabo wambaye itaburiya y'umweru, ufite mu ijosi rye agakoresho kifashishwa mu gupima imiterere y'umutima. Yambaye isaha ku kuboko kwe kw'iburyo, afashe ukuguru k'umuntu wicaye iruhande rwe, wambaye agapira k'umutuku ndetse n'akabutura k'umukara.

Abantu batatu, bari kumwe bambaye amakasike ari mu ibara ry'umutuku n'umuhondo ndetse n'imyenda yiganjemo ibara ry'umweru, umutuku, umuhondo n'ayandi. Ni abakinnyi bakina umukino uzwi nka Rugby.

Umuntu wambaye agapira k'umweru, uri kwiruka akora imyitozo ngororamubiri, yifashishije icyuma cyabugenewe cyifashishwa mu myitozo ngororamubiri, umuntu yiruka bitabaye ngombwa ko ajya hanze. Iruhande rwe hari undi mugabo wambaye ishati y'umweru agapfukamunwa ndetse n'ipantaro by'umukara.

Icyumba cyo kwa muganga giteye irangi ry'umweru, harimo ibikoresho bitandukanye, urugero ni nk'igitanda kibyarirwaho n'umubyeyi utwite, kirasa ubururu, hejuru yacyo hari imashini itanga urumuri, aho harimo utundi dutebe dusa ubururu twicarwaho na muganga, harimo imeza, utubati n'ibindi.

Udusorori twinshi harimo utunini n'udutoya turimo ibintu bitandukanye urugero; harimo uturimo imizi, ibiti, amababi, utubuto n'ibindi bintu byifashishwa mugukora imiti gakondo.

Umugabo wambaye ishati y'umweru irimo uturongo, mu ntoki ze afite igicupa ubonako gisa nabi, imbere ye hari ibindi bintu bimeze nk'ingiga, ibibabi ndetse n'imifuka n'indobo, ubona ko ari ibintu byifashishwa bashyiramo imiti gakondo.

Amacupa abiri yegeranye, asa umuhondo afite imipfundikizo isa nka shokora, ashushanyijeho igikakarubamba, yegeranye n'ishashi irimo amata basutse mu gikombe ndetse n'ikarito iri mu ibara ry'umweru na move.

Uducupa tubiri duteganye dusa umuhondo dufite imipfundinikizo isa nka shokora dushushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba, twegeranye n'ayandi makarito ari mu ibara ry'icyatsi n'umweru n'ishashi iriho ji basutse mu kirahure.

Amoko atandukanye y'amacupa ndetse n'utubido biri hamwe, harimo urugero n'utubido dutatu duteye kimwe ariko tudasa, dufite amabara y'umuhondo beje n'umweru, utundi ducupa ni dutoya dushushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba.

Amakarito ari mu ibara ry'umweru n'umutuku, yandikishijeho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, ni amakarito akunda kwifashishwa mu kubika ibinini bakabishyiramo kugira ngo bitangirika.

Agasahane k'urubaho gateretseho ibimera bitandukanye, icupa ririmo ubuki ndetse n'agasekuru karimo n'umuhini wako, iruhande kandi rw'iyo sahane hari utuntu twinshi dutandukanye turimo impeke n'ibindi, byose iyo bihurijwe hamwe bivamo imiti gakondo.

Itsinda ry'ibintu birimo imbuto, indabyo, ibinyobwa n'ibindi. Mu mbuto harimo imineke ndetse n'inanasi, inyuma hari ururabo rufite ibibabi by'icyatsi kibisi n'indabyo z'umuhondo, hagati harimo amakarito n'amashashi harimo ibintu bitandukanye nk'amata biswi, shokora n'ibindi.

Umuntu wambaye umupira w'umweru ahagararanye n'undi mugabo usa nk'uwihishe mu bibabi by'igiti, wambaye umupira w'umutuku ndetse n'agakote k'umukara, inyuma yabo bigaragara ko ari mu ishyamba.

Ikimera cy'umuravumba ni kimwe mu kimera kizwi cyane kandi gikunda kwifashishwa n'abavuzi gakondo bavura indwara nyinshi zitandukanye, zirimo nk'inkorora, ibicurane ndetse n'izindi.

Iitsinda ry'uducupa dutandukanye. Harimo tugufiya dusa umweru, utureture turi mu ibara ry'umuhondo umweru, dufite imipfundikirizo isa nka shokora, umutuku, na oranje. Udukarito turi mu ibara ry'umuhondo, n'icyatsi.

Abantu bari ku murongo bambaye imyenda irimo amabara y'icyatsi n'umweru, imbere yabo hari imashini zifashishwa mu buhinzi bwagutse, hejuru yabo hari igiti kinini cy'inganzamarumbo, barimo barahinga ibimera byifashishwa mu gukora imiti.

Imbuto ziba zarahumbitswe, bakazihumbika ari imbuto cyangwa se ari umurama, bityo zikaza kumera ,zikazavamo ibiti cyangwa se imbuto zitandukanye.

Icupa ry'ikirahure rifite umupfundikizo w'umweru ririmo ubuki, imbere yaryo hari utundi ducupa dutatu tw'umweru ubonako duteye kimwe, inyuma y'ayo macupa yombi hari igishashara cy'ubuki kiriho n'inzuki.

Ibimera bitandukanye harimo ibisa icyatsi kibisi, harimo imbuto nka tungurusumu, harimo ndetse tangawizi ndetse n'ibindi. Byose iyo bihurijwe hamwe bikaba bivamo imiti gakondo ivura indwara zitandukanye.

Imeza y'imbaho iteretseho isahane ndetse n'agakombe isa umweru, irimo kandi ji y'irongi, iruhande rwako gasahani, hari tangawize ndetse n'ironji ridakase.

Agacupa karekare kari mu ibara ry'umweru, gashushanyijeho akanyoni kagurutse n'amagambo ari mu ibara ry'umutuku, hepfo y'ako gacupa hari ikimera cy'igikakarubamba ariko kiri kumwe n'izindi mbuto zitandukanye.

Icyapa kigari kizengurukishijeho ibara ry'icyatsi, mo imbere harimo inyoni yagurutse ariko nanone handitswemo amagambo ari mu ibara ry'icyatsi n'umukara ndetse n'ikindi kirango kiriho ikimera gifite amashami menshi.

Uducupa twinshi turi mu ikarito, turi mu ibara ry'umuhondo, dufite imipfundikizo isa nka shokora, twanditseho amagambo y'umukara kandi dushushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba, bigaragare ko harimo umuti ukomoka kuri iki kimera.

Abantu ubona ko baje mu imurikagurisha ry'imiti gakondo iri mu macupa y'ibirahure ndetse n'andi ya pulasitiki. Hari umugore wambaye igitambaro mu mutwe cy'umweru n'umupira w'umutuku. Hari n'undi mugabo uri imbere wambaye ishati irimo uturongo.

Umugabo wambaye taburiya y'umweru, imbere ye hateretse ameza. Mu biganza bye byombi hamwe afitemo ibinini bitatu bifunyitse, naho mukundi kuboko afitemo agakarito karimo ibara ry'umweru, ariko kandiwanditseho amagambo asa icyatsi.

Akabati kari mu ibara ry'umutuku, gateretsemo amacupa, haba ay'ibirahure ndetse n'aya palasitiki arimo imiti gakondo, muri ayo macupa kandi ari mu ibara ry'umweru, icyatsi n'ubururu.

Uducupa twegeranye duteye kimwe ariko tudasa, kamwe karasa umuhonda akandi karasa umweru. Twegeranye kandi n'utundi ducupa dutoya tw'umweru duteretse ducuritse, dushushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba.

Udukarito tubiri turimo amacupa atandukanye, agakarito ka mbere karasa umweru ndetse ahagana hasi gafite ibara rijya gusa nk'irya shokora. Naho akari iruhande rwako na ko gafite ibara ry'umweru ariko ahagana hasi karasa umutuku.

Uducupa dutatu twegeranye, twose dusa umweru ariko tuzengurukijeho udupapuro dufite amabara atandukanye, akabanza kanini agapapuro kariho kari mu ibara ry'umweru n'ubururu, akandi kari mu ibara rijya gusa umuhondo, mu gihe akandi gasa move.

Amacupa abiri yegeranye asa kandi ateye kimwe afite ibara ry'umuhondo n'umupfundikizo usa nka shokora ushushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba yegiranye n'andi makarito ari mu ibara ry'umweru n'ubururu n'umweru ndetse na move.

Uducupa dutatu harimo kamwe gateretse neza, akandi gateretse ariko mu buryo buhengamye ndetse n'akandi kari mu kirere, gafite ibara ry'umuhondo n'imipfundikizo isa nka shokora, utundi ducupa turasa umweru.

Ikimera k'igikakarubamba cyameze ahantu bagiteye, ubona ko cyakuze kandi neza rwose gifite n'amashami menshi, kikaba kifashishwa mu gukora imiti itandukanye gakondo ivura indwara nyinshi, cyane cyane nk'inzoka.

Icupa rikoze mu kirahure riteretse ahantu hamwe, ripfundikije umupfundikizo w'icyatsi kandi rizengurukijeho agapapuro karimo amabara y'icyatsi, umweruru, gashushanyijeho ivase iriho ibimera.

Itsinda ry'imbuto zitandukanye zirimo ironji, indimu, icunga ndetse n'amababi y'ibiti, hagati yazo harimo icunga rinini baciyemo kabiri, ndetse n'utundi tubuto tubiri turi imbere y'icyo gice gicunga, na two baciyemo kabiri.

Isahane nini y'umweru iteretseho agacupa k'umweru, kazengurukijeho agapapuro k'umuhondo, ndetse na move, kandiditseho amagambo y'umukara, kuri iyo sahani hakatiyeho imbuto, urugero ni nk'irogi n'izindi.

Icupa rya palasitike ribonerana, ripfundikishije umupfundikizo w'umuhondo, ririmo umuti gakondo umeze nk'ivu, kazengurukijeho agapapuro kari mu ibara ry'umweru, hashushanyijeho ibibabi ndetse n'amagambo ariho asa umukara.

Amacupa yegeranye arimo asa umuhondo n'amakarito asa umweru, asa move ndetse n'ayandi atandukanye, yegeranye kandi hafi n'ubusitani burimo ibiti bitandukanye.

Utwatsi turi mu mabara y'icyatsi kibisi, hariho uturabyo kandi dusa umutuku, oranje, umweru ndetse n'umuhondo, kikaba ari icyatsi na cyo kifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye.

Icupa riteretse rirerire, hejuru ku mupfundikizo hariho akabara gatoya k'icyatsi, ahagana ku ndiba naho hari ibara ry'icyatsi ryijimye n'iryerurutse, handitseho amagambo manini n'amatoya, nayo ari mu ibara ry'icyatsi.

Umugore wambaye agapira k'umukara uri kwikanda mu nda ubona ko afite ikibazo cy'ububabare, imbere ye hariho udukarito turimo imiti, bigaragara ko iyo miti yavura ububabare afite mu nda.

Amacupa atandukanye arunze hamwe, amwe arasa umukara andi arasa umweru, andi arasa icyatsi, harimo afite imipfundikizo y'umweru icyatsi n'ubururu, harimo imiti gakondo.

Udusorori dutandukanye, turimo imiti cyangwa se n'ibindi bintu bikomoka ku buhinzi cyangwa ku bimera byifashishwa mu gukora imiti gakondo. Harimo kandi imizi ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Agacupa gasa umuhodo gafite umupfundikizo uri mu ibara rya shokora, kegeranye n'utundi ducupa turi mu ibara ry'umweru n'akandi kanini gashushanyijeho ikimera k'igikakarubamba, hirya hari amakarito na yo ashushanyijeho ibimera bitandukanye.

Urujya n'uruza rw'abantu bateraniye mu isoko baje kugurisha abandi baje guhaha, bimwe mu bicuruzwa bigaragara hano harimo nk'imbuto z'amacunga n'indimu ndetse n'amacupa ari mu ibara rya oranje n'andi asa icyatsi arimo imiti gakondo.

Ibimera bitandukanye, harimo ibifite amababi y'icyatsi kibisi, ibifite amababi y'umweru, ibifite uturabyo tw'umuhondo n'ibindi, byose bikaba byifashishwa mu gukora imiti itandukanye.

Umuntu wasetse ufite amenyo yera, hepfo ye hari uducupa dutandukanye dushushanyijeho ikimera cy'ikakarubamba, turimo umuti ushobora kwifashishwa mu koza amenyo, naho mu ruhande rw'iburyo hari amagambo yanditswe mu ibara ry'umukara ndetse n'icyatsi.

Icupa risa umutuku ryandikishijeho amagambo y'umweru ndetse n'ay'umukara, iri cupa ribamo icyo kunywa kiryoshye kandi kinyura umuntu ukinyweye ku buryo aba yumva yagisubira.

Agacupa gasa umweru, kazengurukijeho agapapuro kanditseho amagambo amwe ari mu ibara rya oranje, andi ari mu ibara ry'umukara. Iruhande rwako, hari ibibabi bitatu. Na ho ku rundi ruhande hari ibinini biteretse hasi.

Agacupa gasa umweru, kazengurukijeho agapapuro, kariho ibara rya oranje ndetse n'amagambo yanditseho ari mu ibara ry'umutuku kandi gashushanyijeho uruyuki. Hirya yako hari amagambo ari mu ibara ry'umukara n'umweru.

Agacupa gakunze kuba karimo imiti itandukanye ikomoka ku bimera, gafite impuzankano y'ibara ry'umweru, kazengurukijeho agapapuro kari mu ibara ry'ubururu, kanditseho amagambo asa umweru n'andi asa ubururu.

Agacupa gasa umweru bakuyemo umupfundikizo wako. Iruhande rwako hari uturabyo turi mu mabara y'umweru n'umuhondo ndetse n'ikindi cyatsi kiri mu ibara ry'icyatsi kibisi cy'igikakarubamba. Ku yindi shusho hariho uducupa tubiri duteye kimwe, tungana kandi twegeranye turi mu ibara ry'umweru n'icyatsi. Na two dushushanyijeho ikimera cy'igikakarubamba

Agacupa karimo umuti w'amenyo ukozwe mu gikakarubamba. Kegeranye kandi n'agakombe karimo uburoso bw'amenyo bukoze mu biti ndetse n'amasume umuntu akoresha agiye mu bwogero.

Amakarito agera kuri atatu asa kandi ateretse mu uburyo yegeranye. Ari mu mabara y'umweru ndetse n'umutuku. Ariko handitseho amagambo ari mu ibara ry'icyatsi, umuhondo, n'umweru.